Mu bitaro abaganga baje kuvura umurwayi ari benshi cyane kuko bari kumubaga, umuganga umwe ntago yabyifasha kuko ashobora gukora agakosa gato umurwayi akaba yahaburira ubuzima ariko iyo ari benshi buri wese aba ijisho rya mugenzi we ndetse bakareba neza ko nta makosa barakora ashobora gutuma umurwayi ahasiga ubuzima.

Abana babiri bose bari ku ivomero. Barimo barakaraba intoki ndetse bagakina n'amazi. Gusa si byiza cyane kureka abana bagakina n'amazi, kuko amazi ahantu aba amanuka, hari aho ashobora kugenda akireka akaba menshi, bikaba byateza impanuka.

Icyapa cyandikishijwemo amagambo y'umukara, ku ruhande harimo agashushanyo gafite ibara ry'umuhondo n'ubururu, iki cyapa kiragaragaza ikigo gishinzwe ubuzima muri rusange, kita ku mibereho y'abantu ndetse kikita no ku bantu baba badafite ubushobozi kandi barwaye bakeneye kwivuza.

Umugore uhetse umwana yaje kumese hafi y'umugezi kugira ataza gukomeza atunda amazi ayajyana, urwo rugendo ari gukora atunda amazi bikaba byatuma asoza gufura atinze. Ibiyigiriye n'inama nziza kuko biramworohera kubona amazi mu gihe gito.

Abana baje kunywa amazi ku mugezi barishimye cyane bigaragara ko batari bafite amazi hafi yabo bajyaga kuvoma ahantu kure none babazaniye ivomero hafi ubu bigiye kujya biborohera ku buryo bashobora no kujya ku ishuri babanje bageze amazi mu rugo.

Intebe nyinshi zijya kumera nk'uburiri uyitera uko ushaka washaka ukicara bisanzwe ndetse ukaba wanaryama imbere yaho hari ibikoresho bikoreshwa n'abaganga ndetse hakaba n'imashini yose bayikoresha bari gusuzuma umurwayi ndetse bari no kumuha umuti.

Abana bazanye ibivomesho baje kuvoma. Buri wese bitewe n'imbaraga afite atwara icyo ashoboye. Hari abashobora gutwara aka litiro eshanu, litiro imwe, litiro eshatu bitewe. Kandi ni byo byiza kuruta uko umwana wamuha ibiruta imbaraga afite kuko bituma bagwingira.

Abajyanama b'ubuzima bahuriye hamwe baza kuganirizwa no kwigira hamwe ngo barebe ibibagora mu kazi kabo ka buri munsi bityo bagende babikemura, baje kandi no kubahugura kugira ku bumenyi basanze bafite hiyongereho n'ubundi bwinshi.

Abagabo babiri n'abagore babiri bose bicaye imbere mu myanya y'abayobozi imbere yabo hateretse amazi ndetse abagabo bose bafite mudasobwa bari kugenda bandikamo umugore umwe afite microphone arimo arabwira abantu babakurikiye ibyo bateguye kubabwira uyu munsi.

Abana baje kuvoma mu mazi atemba, aya mazi ntabwo aba ari meza, gusa kuyakoresha mu bintu bidasaba amazi asukuye cyane, nta cyo bibatwaye ariko nko kuyatekesha, kuyanywa, kuyogesha ibyombo n'ibindi bindi, isuku yo ku mubiri ntabwo aba ari byiza kuko aya mazi aba yanduye.

Umugore yaje kuvoma azanye n'umwana ariko amazi ari kuvoma ntago asa neza kuko ari kugenda muri turiya tugezi dutemba nta n'uburyo buhari bwo kuyayungurura cyangwa se kuyasukura, aya mazi ashobora gutera indwara nyinshi cyane zitandukanye niyo mpamvu abantu nkaba bakwiye kuganirizwa ndetse ahantu batuye bakabubakira ivomero ryiza rifite isuku.

Umugore wambaye umupira w'umweru, inyuma hakaba hariho ijiri ya kacye, yambaye n'ingofero ya kacye, yambaye n'amarinete, arimo araha abana amata mu byasi, abana barishimye kuko abana benshi bakunda amata, inyuma ye hari undi musirikare nawe ufite icyansi mu ntoki uri kumufasha kugira ngo igihe amata ashize amuhereze ikindi cyansi kirimo, amata ahe abana.

Hari kano iherereye hepfo y'umuhanda, aho abanyeshuri baca bavuye kwiga ku buryo abahanyura bafite inyota baza bakabanza bakanywa amazi. Akana gato kari kaje kuvoma, undi munyeshuri wiga muri segonderi na we aza aje kunywa amazi, abanza yamufasha kugira ngo uyu mwana abanze yuzuze ikivomesho, bityo uyu munyeshuri abone kunywa amazi.

Ivomero ryubakishijwe ho sima kugira ngo ibihombo batazajya babinyeganyeza cyane bitaba byavunika bityo abantu baza kuvomera hano bakaba babura amazi babyangije, nibyiza ko ku ivomero bahabungabunga ndetse bakanahakora isuku mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Icyapa gikunda kuba kiri ahantu henshi ku bigo by'amashuri cyangwa se ku bitaro n'ahandi hantu hatandukanye, gifite ishusho y'ubururu hakaba handikishijwemo amagambo mu ibara ry'umweru ngo yunisefu, yunisefu itanga ibikoresho ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima butandukanye ku bana batishoboye.

Abagore benshi bambaye udupira tw'umweru bose bafite abana, harimo n'abandi bakozi baje guha abana amata, uko bigaragara bari mu gikorwa cyo kwibutsa ababyeyi ko bakwiye guha abana indyo yuzuye kandi bakanabitaho, bakita ku buzima bwabo kugira ngo bakure neza.

Ku ivomero umwana umwe wambaye ipantaro y'ikobo yayihennye n'ishati iciye amaboko y'umutuku, arimo aravoma, undi mugore nawe akamufasha amumanurira icyuma bamanura kugira ngo amazi aze, abandi nabo bategererereje hirya kugira ngo uyu mwana nasoza kuvoma nabo babone kuza kuvoma.

Kuva kera mu Rwanda hari gahunda bagira yo gukingira abana bafite imyaka cumi n'ibiri, bakabakingira kuba bazarwara kanseri y'inkondo y'umura. Ibi ni ingenzi cyane kuko kanseri ni indwara iza itunguranye kandi ikica abantu benshi.

Umwana wambaye imyenda y'ishuri ifite ibara ry'umutuku n'ishati irimo andi mabara avanze umutuku n'umweru yambaye na karuvati itukura, arimo arakara abavuye mu bwiherero gusa ku ishuri babatoje ko igihe umuntu avuye mu bwiherero agomba gukaraba kugira ngo yirinde indwara zitandukanye, uyu mwana arabyubahiriza ni umunyabwenge cyane.

Abaturage ni benshi cyane harimo abagore, harimo abagabo, harimo abana bato bigaragara ko bose baje kuganizwa ku bijyendanye n'ubuzima, baje ku bitaro ni ho bari kuganiririzwa bababwira icyo bakwiye gukora kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bwiza cyane.

Umugore ndetse n'abana be babiri baje kuvoma kuko ivomero ribari hafi, ntabwo bikibagora nka mbere. Bose barishimye kuko mbere byarabavunaga kujya kuvoma ahantu kure kandi bakeneye amazi. Amazi akenerwa mu bikorwa byinshi bitandukanye byo mu rugo, harimo mu isuku ndetse no guteka ndetse no koga.

Umugore ukenyeye igitenge yambaye n'ishati nayo yo mu gitenge, yikoreye indobe itukura, afite n'indi ndobo y'umuhondo, zose zirimo amazi avuye ku ivomero kugira ngo abone uko amesa imyenda y'abana kugira ngo bazajye ku ishuri imyenda yabo yumye.

Abagore benshi cyane bazanye abana babo baje kubakingiza kugira ngo babarinde indwara zigenda zandura zije mu gihe gitunguranye, harimo nk'ubushita bw'inkende, harimo akaniga, harimo kokorishi, ndetse n'indwara zindi zitandukanye.

Kwa muganga baje kuvuza abana benshi ndetse abandi nabo baje kubakingiza, abaganga b'abamama barimo barakira abarwayi bagenda banandika mu gitabo kugira ngo bamenye umubare w'abantu baba bakiye ku munsi, ibi aba ari ingenzi cyane ko amakuru yose y'ibyakozwe bayandika.

Mu kigo cy'amashuri, umwana umwe w'umukobwa wambaye utubodaboda, yambaye n'ikanzu y'ubururu ndetse n'agapira k'umweru mo imbere aje kunywa amazi, kubera ko nta gikombe gihari yakarabye ibiganza bye ni byo ari gukoresha anywa amazi, imbere ye hari ikidobo kimeze nk'aho gifite akarobine cyanditseho Unicef.

Akana k'agahungu kaje ku ivomero, karimo karisuka amazi mu mutwe, kari kari gukina kumva karananiwe, bituma kaza kwisuka amazi mu mutwe kugira ngo kananywe n'andi mazi bityo kongera kabona imbaraga gasubire gukina n'abandi bana, abana ni byiza kureka bagakina kuko bituma bumva bishimye kandi bagakura bameze neza mu mitwe yabo.

Abana benshi batandukanye bavuye ku ishuri bageze mu rugo basanga nta mazi ahari, bahita bafata ibivomesho birukankira ku mugezi, umugezi wa hano kugira ngo uvome bisaba ko hari umwe uba uri gukurura inyuma, ikintu akizamura anakimanura amazi akabona uko aza.

Umwana na mama we baje mu murima gusoroma imboga kugira ngo bajye guteka. Ni byiza ko abana bakiri bato babaha indyo yuzuye, harimo ibitera imbaraga, harimo ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri. Byose bituma abana bakura neza bafite ubuzima bwiza ndetse n'ubwonko bwabo bugakora neza, bikaba byatuma biga kandi bagatsinda.

Icyumba kiberamo inama ubusanzwe ni kinini, kuko akenshi abantu bitabira ntabwo aba ari benshi cyane, ariko uyu munsi cyabaye gito kuko abantu bicaye bari kubyigana, bigaragaza ko uyu munsi ibiganiro biratangirwa hano ni ingenzi cyane abantu bose basabwa kubyumva.

Mu cyumba kinini abantu benshi bahahuriye; abantu bakorera muri kampani imwe, bose ni abakozi baje guhura n'umuyobozi wabo bari kuganira ku kintu bakora kugira kampani yabo ikomeze itere imbere kuko muri iyi minsi bari batangiye gusubira inyuma ho gato.

Abagore batatu baje kuvoma, ariko hari amajerekani menshi cyane ataravomerwa, ku buryo uwaba yarari kwihuta byari kumugora guhita abona amazi, bategereje ko yuzura, ariko n'amazi arimo araza gake, ariko nta kundi bakwiye kwihangana bagategereza kugira ngo bajyane amazi.

Abagore baje kuvoma, umwe arimo kuvoma, abandi babiri bafashe ku cyuma bagenda bazamura banamanura kugira ngo amazi aze, nibamara kuvoma, undi na we araza avome, abandi nabo bakomeze bamufasha, kugeza igihe bose bamaze kuvoma, ubundi iki cyuma bakakirekura.

Ikimodoka kinini cya rukururana, ku ruhande hariho utwapa twanditseho amagambo WFP, bigaragara ko ari ikigo kitwa gutya gikoresha izi modoka. Izi modoka zitwara ibintu byinshi cyane ku buryo ari imbere cyangwa inyuma hose baba babipakiyemo.

Mu cyumba cy'inama uyu munsi yitabiriye abantu benshi, bose babahaye amazi kugira ngo mu gihe barajya bumva bananiwe inama itararangira banywe amazi, kuko biri mu bibongerera gukomeza bakurikiye, hari umugore umwe urimo abaganiriza benshi bari kwandika, abandi nabo bakandika muri terefoni.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga arimo araganira n'umugore uje kuvuza umwana, arimo arasekera umwana kugira ngo umwana atagira ubwoba bitewe n'uko abana benshi usanga batinya abaganga kubera baba barabateyeho inshinge.

Kwa muganga umukobwa witeze igitambaro mu mutwe, yambaye n'ikanzu y'ubururu, ari kwa muganga barimo baramushyira ikintu ku maboko, gipima kureba ukuntu amaraso ari kugenda mu mubiri we, no kumva niba umutima we ukora neza. Amaze igihe kinini mu bitaro, ariko biragaragara ko atangiye koroherwa.

Abana bambaye imyenda y'ishuri bose baje kuvoma mu ndobo no mu tujerekani bigaragara ko barimo gukora isuku mu mashuri yabo. Ni byiza ko abana batozwa gukora isuku kuko bituma bakura bafite isuku barabigize nk'umuco bitewe n'uko babamenyereje bakiri batoya.

Abantu benshi bahuriye hamwe iruhande rw'ibitaro, baje kubaganiriza gusa bitabiriye ari benshi cyane bitewe n'uko bababwiye insanganyamatsiko mbere y'uko baza, bakumva bose bashaka kumenya byinshi kuri iyo nsanganyamatsiko.

Ivomero ryubakishijwe sima, hakaba hariho n'umugezi umwe, akana kambaye ikanzu y'umutuku kaje gukaraba, kararangaye bisa nkaho hari undi muntu uri inyuma yako urimo kukavugisha, kari kaje gukaraba mu ntoki kugira ngo kanywe amazi.

Imigezi ibiri iteganye yose irimo irazana amazi. Umwana aje kuvoma amazi yo kunywa mu gikombe. Gusa ni byiza ko igihe umugezi umwe utari gukoreshwa amazi bayafunga kuko amazi kuyamena ntabwo ari byiza biba biyangiza, ndetse kandi bishobora no guteza ibibazo bitandukanye.

Mu cyumba kinini cyane abantu bambaye neza harimo abagabo ndetse n'abagore, hano harimo na Minisitiri w'ubuzima witwa Sabin Nsanzimana, baje kuganirira hamwe ku buryo bakomeza kurwanya indwara zirimo zigenda ziza ndetse n'indwara zisanzwe zihari, bakazivura zigakira burundu.

Abakobwa bane n'umusore umwe bose bambaye imipira isa y'ubururu yanditseho Unicef for every child, bigaragara ko ari ikigo cyitwa Unicef cyabohereje mu butumwa bwo kuganiriza ndetse no kwita ku mwana kuko abana bose baba bakwiye kwitabwaho, ubuzima bwose umwana yaba yaravukiyemo aba agomba ko uburenganzira bwe bwubahirizwa.

Ku ivomero abagore babiri barimo barakaraba bananywa amazi bakoresheje ibiganza, inyuma hari undi mugore nawe ufite imisatsi wambaye ishati itukura wambaye n'agapfukamunwa ubari iruhande arabarindiriye kugira ngo bagende.

Uyu munsi habaye inama, aho abagabo ndetse n'abagore bitabiriye bose bambaye neza barasa neza cyane, bari baje kuganira ku cyakorwa kugira ngo ubuzima n'imibereho by'abaturage bikomeze kuba byiza, uyu munsi cyane cyane bari bari kuganira ku cyatuma buri wese iterambere rye ryiyongera bityo n'iterambere ry'igihugu rikiyongera.

Abantu benshi baje mu nama higanjemo abagabo umugore urimo ni umwe bamwe bahagaze inyuma abandi bicaye ku ntebe, inyuma yabo ndetse hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko yari yatumye uyu munsi bahura ngo baganire.

Uyu munsi mu cyumba kinini cyo muri hoteri, habereyemo inama ndetse n'amahugurwa ariko bafite n'ibindi bikorwa bashaka kumurikira abantu kugira ngo babone abashaka gufatanya na bo ko baza bagafatanya. Habereyemo igikorwa cyateguwe na UNICEF.

Mu cyumba cy'inama hitabiriye abantu benshi, higanjemo abagabo kuko akenshi abagabo aribo bazinduka, imbere yabo hari amazi buri wese kugira ngo igihe arajya yumva ibitotsi bimufashe kuko bibaho cyane cyane mu manama ajye aranywa amazi ubundi yongere agarure ubuyanja.

Abanyabuzima uyu munsi bahuriye ku kigo nderabuzima baje kuganirizwa n'abaganga bakuru, kugira ngo babigishe ubundi bumenyi bakwiye kujya bakoresha, igihe abantu bo mu biturage batuyemo baje babagana bwije batabona uko babageza ku bigo nderabuzima byoroshye.

Ku kigo cy'amashuri baba baragiye bahashyira amarobine kugira ngo igihe abana bavuye ku bwiherero cyangwa se biyanduje baze bakarabe, bakomeze ibikorwa byabo. Ni byiza ko abana bato babatoza kugira umuco wo gukaraba no kugira isuku kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana w'umuhungu azanye igikombe ku ivomero ari kuvoma amazi yo kunywa, gusa ni byiza ko amazi bayateka cyangwa se bagashyira akantu gashinzwe kuyungurura amazi, hafi n'ikigega kugira ngo amazi bayanywe atetse kuko amazi adatetse kenshi na yo atera indwara ziterwa n'umwanda nk'impiswi ndetse n'izindi.

Imigezi ibiri ifatiye ku giti kimwe bigaragara ko igihombo cyazamutse ari kimwe ariko bakahashyira ibiri kugira ngo he kujya haba hari umurongo munini cyane w'abaje kuvoma ahubwo byoroshye ko n'abaje bahita bavoma ari benshi ubundi bagataha kare.

Abantu benshi cyane bambaye neza bigaragara ko ari abayobozi, baje bari baje mu nama, basoje bahagarara hamwe kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso, bitewe nuko umwanditsi aba araza gutanga raporo aba akeneye n'amafoto araza kwifashisha, ku ruhande hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda n'irindi darapo ry'ubururu.

Abaganga ndetse n'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuganga, bagiye gufasha abaturage babasuzuma indwara zitandura ndetse babigisha n'uburyo bashobora kuzirinda kugirango bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi bahuriye hamwe harimo abaganga ndetse n'abandi basanzwe baje kuganirizwa ku bigendanye n'ubuzima hari umwana umwe barimo bari gupima uburebure bwe afite kugira ngo barebe niba uburebure bwe bushyitse kugirango babone aho bahera baganiriza abantu.

Umugabo wambaye ijire y'umukara yandikishijweho amagambo y'umweru, mu imbere y'ijire harimo ishati y'umweru, ari kumwe n'undi mugore nawe wambaye umupira w'icyatsi ufite imisatsi myinshi, hari ibikoresho bari kugenda bashyira ku meza bisa nkaho ari inkunga bagiye guha abaturage.

Mu cyumba kinini cyane cyo kwa muganga haje abarwayi benshi, umuganga umwe mbere y'uko batangira kubavura araje abanza yabaha amabwiriza ndetse abungura n'inama z'icyo baba bakwiye gukora kugira ngo nubwo baba baje barwaye batagira n'izindi ndwara bashobora gutahana bazikuye kwa muganga, bitewe n'uko kwa muganga haza abarwayi benshi biba bishoboka cyane ko hari izindi ndwara ushobora kwakura.

Umugabo ari gukorera umwana ijerekani avuye kuvoma, ikijerekani uyu mwana yikoreye hariho agapapuro k'ubururu kanditseho amagambo UNICEF. UNICEF ni umuryango ushinzwe kwita ku burenganzira bw'umwana ndetse n'abana baba mu buzima bubi, barabafasha bakabitaho kugira ngo na bo bakure neza.

Umugore afite umwana ukiri uruhinja ndetse n'umuganga, barimo baraha umwana umuti, abana benshi iyo bakiri bato kuba umuti biragorana kubera ko ubimuhaye ahita abicira bitewe n'uko aba yumva atabimenyereye, gusa ni ingenzi cyane ko umubyeyi, yubahiriza uko akwiye guha umwana umuti, bitewe n'uko abana bakiri bato barwara indwara nyinshi cyane.

Ku bitaro abagore babiri barimo barakira abantu, umwe ari kugenda yandika ibyo bamubwiye muri mudasobwa, undi na we akabapima umuriro ndetse n'ibiro bafite kugira ngo babone uko bajya mu isuzumiro bamaze kubonana naba baba bari kuri resebusiyo.

Akana k'agakobwa kambaye ikanzu idozwe mu gitenge, imisatsi yako bayiboshyemo inweri, kaje gukaraba ku mugezi, kavuye mu bwiherero, kugira ngo kabone uko kajya kurya. Ni byiza ibi bintu kubigira umuco, kuko mu bwiherero umuntu ashobora kuhakura indwara zitandukanye, niyo mpamvu umuntu aba agomba gukaraba, kugira ngo indwara zose ziterwa n'umwanda azirinde.

Umukobwa arimo arafura imyenda myinshi, ndetse yaje no kuvoma kuri robine, mu majerekani ndetse no mu mabasi. Imyenda yafuze ni myinshi cyane, gusa ntabwo arayimara, ni yo mpamvu aje kuvoma andi mazi, kugira ngo n'indi isigaye nayo ayimese, ubundi nayo ayanike yume.

Mu cyumba cy'inama harimo abagabo batatu n'abagore babiri bose bafite imisatsi myiza, uyu munsi baje bazindutse bari guhuriza hamwe ibiganiro kugira ngo bafate umwanzuro ku bibazo bamaze igihe baganiraho ndetse n'ibyifuzo babahaye kugira ngo babafashe.

Ku ivomero hari ibijerekani byinshi cyane bitewe n'uko mu tundi duce amazi yabuze abantu bose bari kuza kuvomera kuri iri vomero, hari umukobwa umwe ushinzwe kuvomesha kuko abantu baje kuvoma hano ku njerekane imwe batanga igiceri cya makumyabiri.

Umugabo n'umugore baje kuganira n'umunyabuzima, kuko umugore w'uyu mugabo aratwite, kugira ngo babaganizeye ko bakwiye kwitwara muri iki gihe umugore atwite, kugira ubuzima bwe n'ubw'umwana uri mu nda buzabe bwiza cyane, ni byiza ko abantu batwite bajya ku banyazima, kuko hari inama babagira zibereka uko bakwiye kwitwara muri iki gihe.

Abana bane bari ku ivomero, umwe ari kuvoma undi afashe ku cyuma cyo ku mugezi kugira ngo ajye arazamura amazi undi abone uko avoma, abandi na bo barategereje ko uwa mbere abanza yuzuza, na bo bakabona kuvoma.

Abakozi batandukanye harimo abagabo, abagore, abakobwa n'abasore, bose bahuriye hamwe, bari baje mu munsi wo kwizihiza kuba barwanya indwara zo mu mutwe. Ni byiza ko buri wese abigira ibye, kuko indwara zo mu mutwe akenshi zituma ibintu byinshi bidindira harimo ibikorwa by'iterambere.

Umugore wambaye amarinete, wambaye n'akantu mu ijosi bakita bage kaba kagaragaza akazi ukora ndetse afite n'ikaramu mu ntoki, ni umuyobozi mbere yateretse n amazi baje mu mahugurwa n'abandi benshi cyane gusa niwe mukanya ugiye gukurikiraho kugira icyo ababwira niyo mpamvu akuriye kugira ngo amenye aho arahera.

Abagore babiri, umwe ni mukuru ako undi bigaragara ko akiri muto, uyu mukuru arimo araganiriza ukiri muto mu kiganiro tutamenya neza ariko arimo kugenda yifashisha ibikoresho twakwita ko ari ibipupe, yamuhaye akanyamaswa afite mu ntoki, undi na we ari kukitegereza agaseka.

Icyumba cy'inama abantu benshi bitabiriye, bagiye babaha amazi kugira ngo bataza kurambirwa bitewe n'uko barahamara umwanya munini, umugore umwe afite indangururamajwi, imbere ye hari mudasobwa, ari kugenda arebamo ibyo yari yateguye kubwira abantu bitabiriye hano, kugira ngo n'abaza kugira ikibazo baze kumubaza abisubize.

Abantu batandukanye bahagaze imbere y'imodoka, inyuma y'imodoka naho hari amahema, bigaragara ko uyu munsi bari baje gutanga ikiganiro kandi amahema ni manini bigaragara ko bari bakiriye abantu benshi, babaganirije ndetse banabungura ubumenyi ku byo bakwiriye gukora kugira ngo imibereho yabo ikomeze kuba myiza.

Umugabo ufite imisatsi myinshi yibohanyije, afite n'ubwanwa bwinshi cyane na bwo bwagiye bubohana, bifite umwanda birasa nabi, uko bigaragara ntabwo ajya yoga, ntabwo abikorera isuku, ameze nk'aho afite ikibazo gikomeye cyane mu mutwe kuko nta muntu muzima wamera gutya.

Umugabo ufite ijisho ritukuye cyane yarakaye, mu maso ye harikuvamo amarira bigaragara ko afite ibibazo byinshi ndetse afite n'agahinda, birashoboka ko yaba afite umuntu uwo yabuze cyangwa se akaba ari ibindi bibazo bitandukanye dore ko muri iyi isi ibibazo biba ari byinshi.

Umugabo w'igikara yambaye imyenda icikaguritse, cyane cyane ipantaro yaracitse cyane, yambaye urukweto rumwe rwa kamambiri, afite amazi mu ishashi, yicaye yigunze. Uyu mugabo, uko bigaragara afite ikibazo cyo mu mutwe. Ni yo mpamvu bakwiye kumutwara kwa muganga, bakamuvura akongera akaba muzima.

Inyubako nziza ifite y'amarangi meza atandukanye, imbere yayo hari imikindo myiza ndetse hari n'izindi ndabo n'agacaca, hari na parikingi nini, isashejwemo amapave, inyubako hari amagambo yanditseho mu ibara ry'ubururu ngo furere derasharite .

Umugore n'umugabo bose b'abayobozi bicaye ku meza, imbere yabo hari amazi yo kunywa, hagati yabo hari sanitayiza ni umuti uba urimo arukoro bakoresha bakaraba kugira ngo birinde indwara zishobora guterwa n'umwanda, inyuma yabo kandi hari ibipapuro bihamanitse bigiye byanditsweho ngo RBC.

Ibikorwa byinshi bisigaye bikorerwa ku ikoranabuhanga, aho umuntu ashobora kukwereka uko wakora siporo, uko wakwivu, uko wateka, uko wakora akazi ako ari ko kose, byose uri kubikorera iwawe mu rugo ukoresheje ikoranabuhanga, niyo mpamvu iterambere rikomeje gukataza.

Icyumba cyabereyemo inama yateguwe na Unicef, inyuma hanamanitsemo ifoto y'umugabo. Hitabiye abantu benshi cyane, kandi bari mu ngeri zitandukanye. Bose barishimye bigaragara ko ibyo baganirijweho, bijyanye no kwirinda indwara zo mu mutwe, babyishimiye kandi buri wese yiyemeje kugira uruhare mu kurwanya izi ndwara.

Ni byiza ko indwara zo mu mutwe dukwiye kuzirinda ndetse tukarwanya n'ikintu cyose gishobora kuba cyazitera. Kenshi iyo umuntu yamaze kugira izi ndwara, bituma ubuzima bwe bwose bwangirika, yaba ari ukwiga, yaba ari ugukora, yaba ari ukubana n'abandi ndetse na we ubwe uburyo abayeho byose bigirwaho ikibazo.

Itariki ya cumi mu kwezi kwa cumi buri mwaka ni umunsi wahariwe kurwanya indwara zo mu mutwe ku isi yose. Ibi ni ingenzi kuko bituma abantu bongera kwibutswa ko hari utuntu bafata ko tworoheje ariko bikaba byatera izi ndwara niyo mpamvu babiga kenshi kugira ngo babyiteho kandi babigire ibyabo kwirinda izi ndwara

Abagabo n'abagore, bose bahagaze hamwe bari kwifotoza. Bari bagiye mu nama bari kwiga ku cyo bakora kugira ngo ubuzima muri rusange bukomeze bube neza, nta ndwara zirimo. Ni byiza cyane ko ibyo baganiriye bose ko bagenda bakabiganiriza abaturage mu mpande zigiye zitandukanye, kugira ngo bose bafatanye kwirinda izo ndwara.

Icyumba kinini kirimo intebe nyinshi ndetse n'abantu baje mu nama, baziteye bakoze uruziga kugira ngo hatagira umuntu wicara inyuma y'undi, bityo bose biborohere kuba bavuga barebana, kandi buri wese areba undi, nta n'umwe uri inyuma y'undi bityo bahuze ibiganiro kandi baganire neza.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye ibintu mu ijosi ndetse no ku maboko, yambaye ibirenge nkweto yazijugunye. Uyu mugabo birakwiye ko bamujyana kumuvuza. Kuko aracyafite imbaraga zo kuba yakora akita ku muryango we. Kuko bitewe n'uko yagize ikibazo ku bwonko, ntabwo yabona uko akora. Niyo mpamvu bakwiye kumugeza kwa muganga, bakamuvura akaba muzima.

Umugore n'abana be babiri bose baracyari bato, umwe aramuhetse undi amuhagaze iruhande arimo kubatekera igikoma bose barishimye bigaragara ko banyuzwe n'uburyo babayeho nubwo bwaba atari bwiza cyane, ni byiza ko umuntu wese yishimira uko abayeho kuko bimuha amahirwe yo gukomeza akora cyane kandi akabaho yishimye.

Umugabo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, abenshi babita abasazi nubwo atari ko dukwiye kubita, yishyizeho ibintu byinshi yatoraguye mu ngarani, uyu mugabo birakwiye ko bamujyana mu bitaro bikwiye kwita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo bamuvure yongere abe muzima.

Icyumba kiberamo inama, abantu bose baricaye barakurikiye, bakurikiye umugabo umwe wambaye ikoti rya kositimu, urimo arababwira, yaje kubaganiriza kuntu babungabunga ubuzima bwo mu mutwe, kuko akenshi usigaye usanga ari ikibazo cyugarije abantu bose, yaba ari urubyiruko ndetse n'abantu bakuze.

Umugore bisa nkaho akiri muto, yambaye agapira k'umuhondo n'igitenge n'udukamambiri, araziritse akaguru ke kaziritse ku giti hakoreshejwe icyuma kinini cyane, nk'uko bigaragara yagize ikibazo cyo mu mutwe akenshi tubita abasazi, none bamuziritse ku giti kugira ngo atazagenda bakaba bamubura gusa ni byiza ko bamujyana kwa muganga aho kumuzirikira hano.

Abana benshi bicaye hamwe bakurikiye umuntu ariko baganirira batera inkuru, bose barishimye bizihiwe kandi ni byiza cyane, abana baba bakwiye kunezerwa, bakidagadura, bagakina, bakarya neza, bakaryama, bakaruhuka bityo bakagira ubuzima bwiza.

Umugore uvuye guhinga ndetse no gukura ibijumba afite isuka mu ntoki yikoreye igitebo kirimo imigozi, bigaragara ko ananiwe kubera ko yagiye hakiri mu gitondo yakoze akazi kenshi kandi n'ibyo yikoreye biraremereye. Nagera mu rugo arabanza arye, ubundi abone kujya muri dushe ase neza.

Umugabo wirabura ufite imisatsi myinshi cyane n'ubwanwa bwinshi cyane, byagiye byibohana kubera kutabikorera isuku, yambaye imyenda yacitse agatuza kose kari hanze, uko bigaragara uyu mugabo ni umusazi kandi birakwiye ko bamujyana ku bitaro, bikwiye kubitaho kugira ngo akire.

Umugore wa nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame tumwita fasite redi arimo araganiriza urubyiruko akenshi aganiriza abana b'abakobwa abereka ukuntu ejo hazaza heza hari mu biganza byabo uyu munsi ubwo yarimo araganiriza abantu ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Indwara zo mu mutwe, ziri mu buryo bwinshi cyane, ku buryo hari ibyo umuntu ashobora gufata ko bisanzwe, nyamara afite ikibazo gikomeye cyane mu mutwe. Akenshi usanga zituma uburyo umuntu abanye n'abandi cyangwa akora ibikorwa bye byose bihinduka mu buryo bubi. Niyo mpamvu igihe ubona uko witwara bitangiye guhinduka, ukwiye kujya kwa muganga bakareba niba nta kibazo ufite.

Abantu benshi biganjemo abambaye imipira y'ubururu, baje mu muganda. Barimo baratera ibiti ndetse barimo baranaganira, baje mu bukangurambaga bwo gutera ibiti.

Abagore babiri barimo baraganira, umwe afashe undi ku rutugu, uwo bafashe ku rutugu yipfutse igitambaro mu maso kuko ari kurira bitewe n'ibibazo byinshi afite, arimo arabwira mugenzi we agahinda afite kugira ngo amuhumurize bityo nawe yumve ko atari wenyine.

Umugore wambaye neza aje mu kazi, akora mu mushinga witwa Partners in Health, uyu mushinga ni na bo bubatse biriya bitaro by'ibutaro bivura kanseri, aba baganga bahakorera, ni intyoza cyane mu byo bakora, bavura neza kandi bakanitonda.

Umugabo wambaye ishati ikozwe mu gitenge, arararamye yegamye ku gikuta bigaragara ko yihebye, ubanza byara ari gupanga uyu munsi byose byanze gukunda, gusa bibaho cyane ko hari ibyo upanga ariko bikanga ariko ejo nanone ukongera ukagerageza bigakunda nta mpamvu yo gucika intege.

Umukobwa mwiza, wambaye ipantaro y'ikoboyi yahinnye, yambaye n'isengeri y'umukara, afite imisatsi ya natireri, arimo araseka; uko bigaragara abaho yishimye cyangwa se akaba amaze kwakira inkuru nziza kuko aranezerewe.

Umukecuru bigaragara ko akuze, yambaye ishapure, yambaye n'igitambaro mu mutwe cy'umweru, gusa hejuru ntabwo yambaye bigaragara ko yari avuye koga muri dushe, uyu mukecuru arakuze ariko urabona ko asa nk'ugifite imbaraga, gusa ntabwo yishimye kubanza hari ibitagenze neza uyu munsi.

Umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ishati isa iroza, uyu munsi araza kuganiriza abantu ku ndwara zo mu mutwe n'uburyo bazirinda ndetse n'icyakorwa igihe haramutse habonetse uwazirwaye. Ni byiza kubiganiriza abantu bose, kuko izi ndwara ziri kugenda ziyongera.

Abagabo ndetse n'abagore bose bambaye imyenda ya siporo, bahagaze imbere y'icyapa, bamwe muri bo bafite n'udupapuro twandikiraho amagambo asa nk'icyapa kiri inyuma yabo, uko bigaragara nubwo bakoze siporo hari indi ntego bafite kuganiriza abaturage kugira ngo ubuzima n'imibereho yabo bikomeze byiyongere kuba byiza.

Ni byiza ko igihe umuntu afite agahinda, cyangwa yumva atameze neza, agira umuntu ashobora kubiganiraho, bikaba bimwe mu gikorwa gifasha gutuma ubwonko butuza, ndetse bikanarinda indwara ziterwa no gutekereza cyane, harimo nk'agahinda gakabije.

Umusore ufite amenyo meza cyane, afite umusatsi mwiza n'bwanwa bwiza gusa byose aba yaragiye abyogosha agasigaho duke, arimo arahanagura amenyo ye, yifashishije akadodo, akagenda akanyuza hagati y'iryinyo n'irindi kugira ngo imyanda yose ayikuremo.

Umuhungu n'umukobwa bose bari kwireba mu ndorerwamo, bafite utuntu tumeze nk'utudodo bakoza mu menyo hagati bari kugira ngo bakuremo imyanda. Bita ku menyo yabo ni yo mpamvu amenyo yabo asa neza ndetse n'igihe bari guseka ukabona ko ari ibintu bisa neza. Ni byiza kwita ku menyo.

Umusore mwiza ufite amenyo meza asa umweru, namaze kuyamwogereza kwa muganga. Ameza neza urabona ko ari guseka neza kuberako amenyo ye ameza neza. Ni byiza ko igihe amanyo yawe asa nabi cyane cyangwa arwaye cyangwa afite ibindi bintu byagiyeho by' imikara byanze kuvaho ujya kwa muganga ,kuko harimo abaganga babyize kandi babikora neza amenyo yawe akongera agasa neza.

Umusore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, yicaye mu cyumba cyo kwa muganga ategereje ko hari umurwayi waza. Uyu muganga avura amenyo. Afite n'ibikoresho bitandukanye akoresha ari gukura amenyo, ari kuyahoma ndetse ari no kuyoza.

Umukobwa mwiza wambaye isengeri y'umweru ufite imisatsi myiza cyane aje koza amenyo. Ni byiza kugira isuku yo mu kanwa tukoza amenyo yacu mu gitondo ndetse na nimugoroba mbere yo kuryama, kugirango twirinde ko hashobora kuba haza indwara mu kanwa zatewe no kudakora, isuku mu kanwa kacu.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe, kirimo n’ibimashini byinshi bicometseho insinga. Ndetse hariho n’akandi gakoresho abaganga bakoresha, bari kumva niba umutima, ibihaha, ndetse n’izindi ngingo ziba mu mubiri imbere, biri gukora neza. Hano, biba bisaba kwitonda, kandi ikoreshwa ry’ibi byuma risaba kuba warabyize.

Abantu bensi harimo abagabo, harimo n'abagore, ndetse n'abakobwa n'abasore, bose barishimye. Bari kwifotoreza imbere y'igipapuro cyanditseho amagambo. Bose bigaragara ko bari baje mu mahugurwa yo kwigishwa ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo bakomeze kwiyungura ubumenyi.

Kwa muganga haba harimo ibyumba byinshi bitandukanye, ndetse buri cyumba bitewe na serivisi itangirwamo, hakaba hari n'ibikoresho bikoreshwa, iki cyumba harimo uburiri ndetse iyo babishatse bagira intebe, aho umurwayi bamwicaza mu gihe bagiye koza amenyo ye, kuyakura cyangwa se kuyahoma.

Abantu bicaye ku ntebe bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'abandi bari inyuma yabo bambaye imipira y'umweru bari kugenda babasuzuma mu kanwa, bari kugira ngo barebe ko amenyo yabo nta kibazo afite bityo babe bayavura hakiri kare, gusa abantu bari gusuzuma baba bambaye ga kugirango batagira imyanda cyangwa se ibindi bintu bibi bashyira mu kanwa k'abo bari gusuzuma.

Umuganga wambaye ga z'ubururu arimo aragenda arebaba mu mumashini, hari ibisubizo bamuhaye kuko umurwayi we yari yamujyanye ngo ace mu cyuma barebe mu kanwa ke niba nta kibazo afite, ari kugenda afata ibisubizo bamuhaye ubundi akareba ikibazo umurwayi we yaba afite.

Uyu munsi ku ishuri ry'incuke baje kwigisha abana uko bakwiye kujya boza amenyo yabo. Bose babahaye uburoso bw'amenyo, babashyiriraho corogate, babaha n'agakombe kugira ngo bayoze bagaragaze ko ibyo babigishije babimenye. Ni byiza ko umwana umutoza kwigirira isuku guhera akiri muto, kuko uwo muco umutoje arawukurana.

Umusore ufite ubwanwa bwinshi bw'umukara n'umusatsi muke cyane, afite amenyo meza cyane arimo araseka, ko bigaragara amenyo ye ayitaho akayakorera isuku ndetse n'ubwanwa bwe abwitaho n'umusatsi we aba yawogoshe bitewe nuko adakunda umusatsi mwinshi.

Umukobwa ufite amenyo meza arimo arayakorera isuku akoresheje agakoresho kabugenewe mu gukuramo imyanda iba iri hagati y'amenyo. Ni byiza cyane kugirira amenyo yacu isuku kuko bituma mu kanwa hagira umwuka mwiza ndetse n'amenyo agasa neza, umuntu agaseka neza.

Umusore ufite isume ku bitugu hejuru nta yindi myambaro yambaye, afite akadodo arimo arakora isuku mu menyo ye mbere yuko ajya muri dushe, kugira ngo aveyo ibintu byose yabikoreye isuku. Isuku ni ingenzi cyane cyane isuku y'amenyo; ituma umuntu atagira mu kanwa hafite umwuka mubi.

Mu ishuri abantu bakora muri minisiteri y'ubuzima, harimo abaganga ndetse n'abandi batandukanye, baje kuganiriza abana babereka ukuntu bakwiye kujya boza amenyo mu gitondo mbere y'uko baza ku ishuri ndetse na nijoro bagiye kuryama. Ibi ni ingenzi cyane kuko bituma amenyo aba neza.

Abantu benshi bari mu cyumba kinini bamwe baricaye abicaye benshi bambaye imipira isa icyatsi, kumeza hateretseho corogate ndetse bamwe bafite n'uburoso bw'amenyo bahuriye hamwe uyu munsi kuko bari baje mumahugurwa yo kubereka ukuntu bakwiye kwitwara kugira ngo mukanwa habo hakorerwe isuku nziza bityo birinde indwara zose zishobora guterwa n'umwanda wo mukanwa.

Abagore babiri umwe ni umuganga yambaye itaruriya ndetse n'agapfukamunwa, yambaye na ga, ari kumukoza ikintu mu kanwa, bigaragara ko bari kumusuzuma ngo arebe niba nta burwayi afite mu kanwa ke.

Umukobwa mwiza afite imisatsi imeze nk'iy'abazungu yambaye amaherena, arimo arahanagura amenyo yewe akoresheje akadodo aho acisha hagati y'iryinyo n'irindi aka kadodo maze imyanda iri hagati y'amenyo ikavamo.

Umusore mwiza udafite imisatsi myinshi arishimye ari kwireba muri miruwari, afite akantu akoresha ari gukura imyanda hagati y'amenyo, uburyo yishimye bigaragara ko mu minsi ishize amenyo ye yari asa nabi asigaye afite ikibazo, agiye kwa muganga bamuha u dukoresho azajya akoresha ayasukura noneho bona amenyo ye yabaye meza cyane.

Abana bato biga mu mashuri y'incuke, bose bambaye imyenda y'ishuri bisa nkaho biga ku kigo kimwe, bafite udukombe, bafite na burosada, bose babashyiriyeho korogati barimo baroza amenyo yabo, bishimye cyane, bisa nkaho hari habaye ubukangurambaga bwo kubigisha ukuntu bakwiye kwita ku menyo yabo.

Kwa muganga haje kwivuza abakecuru benshi, ubanza bababwiye ko baraza gupima indwara zitandura ndetse banareba uko ubuzima bwabo buhagaze; bakaba ariyo mpamvu bitabiriye ari benshi. Gusa ni byiza kujya babapima kuko abantu bakuze baba bafite indwara nyinshi zitandukanye bityo bakanabavura hakiri kare batararemba.

Umugabo ubyibushye cyane bisa nkaho akuze, afite inda nini bigaragara ko nta myitozo myinshi yakoze, aje kwivuza kwa muganga, arimo arafashwa n'umuganga ukiri muto w'umukobwa wambaye impuzankano y'akazi ndetse nawe mu ijosi afite agakoresho abaganga bakoresha bumva ko umutima uri gutera neza.

Abantu benshi bavuye mu murima gusarura bahagaze hamwe barishimye barimo baraganira. Uko bigaragara aba bantu ntabwo basanzwe baba mu cyaro kuko ukuntu babyishimiye ntabwo ari ubuzima babamo bwa buri munsi. Ni byiza kwereka abana ko ubuzima bwose bubaho ukabajyana no mu cyaro ukabatembereza mu mirima bakamenya uko biba bimeze.

Kwa muganga umugore ukuze, mwiza cyane afite inkoni mu ntoki yambaye n'agashanete mu ijosi ari kumwe n'umusore w'umuganga wambaye imyenda y'abaganga yambaye n'akuma gakoreshwa bari kumva uko umutima utera neza cyangwa se ibihaha ko biri gukora neza, uyu musore afite n'ubwanwa bwinshi.

Umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, afite imisatsi myiza, arimo aravura undi mugabo ufite imvi nyinshi wambaye imyenda y'ubururu, umugabo yari yagize ikibazo mu maboko ye, none bari kureba niba yaba yarakize. Gusa arishimye, bigaragara ko atangiye gukira kandi ari kumera neza.

Umugabo wambaye ipantaro ya kaki n'umupira w'umukara, arimo arafashwa n'umukobwa w'umuzungu wambaye ishati y'umweru, n'ipantaro y'umukara. Uyu mugabo yari yaragize ikibazo mu maguru, bari kugira ngo barebe ko noneho yabasha gutambuka atari mu kagare.

Umugore ndetse n'umugabo bisa nkaho akuze, uyu mugore amaze kumukorera ji mu mbuto ndetse yamukatiye n'izindi mbuto zisanzwe pome n'imineke, yamuhaye n'amazi, byose ari kubimuha kugira ngo arebe ko uyu mugabo yagira ubuzima bwiza.

Umusaza ukuze, bigaragara ko arembye muri iyi minsi, ari kwa muganga gusa kwitambutsa ntabwo abibasha, bimusaba ko abana be baza kumufasha bakamugenza. Ari gufashwa n'umwana w'umukobwa ndetse n'undi mwana we w'umuhungu. Umusaza arakuze ariko navurwa neza azakira.

Umubyeyi mwiza cyane arishimiye kuba umwana we w'umukobwa yarabaye umuganga. Uyu mwana yakuze yumva inzozi ze ari ukuzaba umuganga, yiga amashuri yose agifite ishyaka, none byarangiye inzozi ze zibaye impamo. Umwana na we arishimye we na mama we kuko iteka iyo umuntu ageze ku cyo yifuzaga, yumva afite akanyamuneza.

Abagabo babiri bose bari gukora imyitozo ngororamubiri, bari gukoresha akantu kameze nk'umugozi umwe agafasheho undi nawe akagakurura, imyitozo ngororamubiri ni ingenzi kuko bituma umuntu adasaza vuba cyangwa ngo aba yarwara indwara izo arizo zose.

Umwana mwiza cyane ukiri muto afite imisatsi myinshi, yambaye umupira usa icyatsi n'ipantaro y'ikoboyi, ari kumwe n'umusaza bigaragara ko yaba ari sekuru cyangwa akaba ari papa we wamubyaye mu zabukuru, nawe uwo musaza afite imvi yambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'umuhondo, barimo barakina imikino ishimisha abana.

Umugabo n'umugore bose bambaye ubupfukamunwa, umugore yambaye imyenda y'akazi uko bigaragara n'umuganga, bafite n'igikoresho bakoresha bumva ko umutima w'umuntu umeze neza cyangwa se ibihaha, arimo arasuzuma uyu mugabo kugira ngo yumve aho agerewe akira, kuko uyu mugabo amaze igihe kinini mu bitaro.

Umugore ukuze ari gukora imyitozo ngororamubiri, afite utwuma asunika azamura yongera anatumanura, afite imisatsi yabaye umweru biragaragara ko akuze, gusa urabona ko agifite itoto bitewe n'uko akora imyitozo neza.

Umugabo mwiza ukuze ufite imisatsi yatangiye kuzamo imvi ndetse no mu bwanwa, yambaye amarinete, arimo arasomera inkuru umuhungu we mukuru, bose barishimye bari guseka, bigaragara ko inkuru barimo barasoma ishimishije cyane. Ibi ni byiza cyane kuko bituma urukundo rw'umwana n'umubyeyi byiyongera.

Abagore babiri bose bisa nk'aho bakuze, bari gukora imyitozo urabona ko bafite ubuzima bwiza bitewe n'uko bakuze bakunda imyitozo ngororamubiri, niyo mpamvu ntabwo bafite umubyibuho ukabije urabona ko bagikomeye n'ubwo bafite imyaka itari mikeya.

Umugabo uri kwa muganga yambaye umupira w'umuhondo, yambaye n'ijire, ari kumwemwe n'umuganga ukiri muto w'umukobwa ufite imisatsi myinshi ariko aba yayizirikiye inyuma kugira ngo itamubangamira mu gukora akazi ke neza.

Umugabo wirabura wambaye rinete, nta musatsi mwinshi afite, yambaye ishati isa ubururu imufashe cyane, bigaragara ko yayiguze akiri muto, none akaba amaze kubyibuha ishati ye ikaba imuhambiye. Afatanye n'undi mugore mwiza winzobe, ufite imisatsi myiza cyane.

Umugabo n' ignore bose bakuze bari kwibukiranya, uko imiti basanzwe bafata bakwiye kuyifata neza. Kenshin iyo umunyu ageze muzabukuru ,atangira kurwara indwara indwara zitandukanye ,bikaba byatuma bamwe bahita babura buzima, ariko iyo uyifashe neza bikongerera igihe cyo kurama.

Umugabo n'umugore bose bakuze, imisatsi yabo yatangiye kuba imvi, kuko bafite imyaka myinshi. Babanye neza bose ibikorwa byabo babikorera hamwe. Barimo barasomera hamwe ibipapuro byanditseho amagambo menshi kandi n'ibi bipapuro ni byinshi. Bari kubisomera hamwe kugira ngo umwe ajye yibutsa undi.

Ibiribwa byinshi cyane biryoherera, harimo utubombo, harimo utubiswi, harimo n'ibindi bintu ndetse n'imbuto zikase. Babihurije hamwe bigaragara ko hano hagiye kubera ubusabane. Ibi bintu ni byiza cyane kuko bituma abantu urukundo hagati yabo rwiyongera, ndetse bagahuza ibiganiro.

Umugabo ukuze, arimo aragenda afashe ku cyuma. Bigaragara ko yari amaze igihe atabasha gutambuka neza ariko muganga arimo aramufasha kugira ngo amwereke uko akwiye kugenda gake gake, kugeza atangiye kongera gutambuka nk'uko byari bisanzwe.

Umukecuru n'umusaza bose bambaye imikenyero, umukecuru mo imbere harimo agapira k'ubururu, umusaza na we mo imbere mu mukenyero yambariyemo ishati y'amaboko maremare, umusaza yambaye n'ingofero. Bose baje mu birori, abana babo bashyingiwe, none baje kwishimira iyo ntambwe abana babo bagezeho.

Umugabo n'umugore bigaragara ko hari abaganga, umugabo bafite icupa ririmo umuti imbere yabo ku meza harimo n'utundi ducupa turimo ibinini, umugore na we afite mudasobwa arimo arandikamo ibyo uyu mugabo ari kumubwira byanditse kuri uyu muti.

Abagore batatu, umwe uri hagati wambaye lunette afite telefone arimo arereka bagenzi be ibintu abonye kugira ngo nabo bamubwire niba bemeranya nabyo, akenshi kuganira n'abantu mu kungurana ibitekerezo biba byiza kuko harijye ubatekereza ibintu mu buryo butari byo bakakungura ibitekerezo.

Umugore bigaragara ko akuze, yambaye isengeri y'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto za siporo zifunze, uyu mugore arakuze ariko urabona ko agifite imbaraga bitewe n'uko yakuze akora imyitozo ngororamubiri. Ni yo mpamvu buri wese aba agomba kubigira ibye, akita ku mubiri we, agakora siporo ndetse akanywa amazi, akanarya n'indyo yuzuye.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ikora twitara rakosite, yambaye n'amarinete, afite imisatsi yabaye imvi gusa ari kumwe n'undi mukobwa w'umuganga wambaye imyenda itukura, uyu mukobwa nawe afite akuma mu ijosi bakoresha bapima ngo bumve uko umutima uri gutera neza, arimo arafasha umugabo kugorora imitsi y'amaboko.

Abaganga bambaye ibintu by'ibisashi umubiri wose ku buryo utabona uko bakoraho ndetse ku buryo n'umuntu wese bakoraho unarwaye uburwayi ubwo aribwo bwose atabanduza, bambaye n'dupfukamunwa tw'ubururu, mu gihe cya korona virusi wasangaga abantu bashyingura abarwayi barwaye iyi ndwara nabo bambaye gutya.

Mu cyumba kirimo abakobwa bato baje kuganirizwa, abaje kubaganiriza harimo abagabo harimo n'abagore, bose bambaye udupira dusa, bigaragara ko baje kwigisha abakobwa uko bakwiye kwita ku isuku yabo cyane igihe bari mu mihango.

Mu minsi ishize mu bihumbi bibiri makumyabiri na kabiri hadutse icyorezo kitwa Covid cumi n'icyenda, cyatatse Isi yose ndetse abantu benshi bahaburira ubuzima, bagiye bakora ibyapa ndetse bagakora n'ibishushanyo bakagenda babishyira ahantu hatandukanye kugira ngo bakomeze gukangurira abaturage bose kwirinda iki cyorezo kuko ari kibi bihagije.

Twirinde indwara y'Ubushita bw'inkende, mu minsi ishize hateye iki cyorezo abantu benshi bakarwara iyi ndwara kandi ni indwara yandura, niyo mpamvu buri wese aba akwiye kwirinda ndetse akitwararika, akanakurikiza ingamba ziba zashyizweho na Leta kugira ngo iki cyorezo kirindwe.

Mu minsi myinshi cyane iba igize umwaka buri munsi uba ufite ikintu wagiye uharirwa, no mu bijyanye n'ubuvuzi na bo baba bafite uko bagiye babigabanya nk'umunsi waharibiwe kurwanya Malariya, kurwanya SIDA, kurwanya Igituntu, kurwanya Kanseri, ubu ngubu icyumweru turimo ni ukurwanya uburyo indwara zitandukanye zanga kuvurwa n'imiti runaka.

Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, gifite ibara ry'icyatsi, imbere hakaba harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, muri ayo magambo habanza umubare gatatu ndetse hasi aho birangiriye; hakaba harimo ishusho y'umutima.

Kanseri y'inkondo y'umura ni kimwe mu bibazo abagore bajya bahura nabyo, kanseri ni mbi cyane ndetse kanseri atari n'iy'inkondo y'umura gusa, igice icyo ari cyo cyose yageraho biba bigoranye ko muntu yakira uretse gucaho urwo rugingo rwaye kanseri.

Igipapuro kinini cyanditseho amagambo menshi agiye ari mu biziga, bisaba ko abantu banyuze hano bagomba gusoma, kugira ngo bumve ubutumwa babageneye, ni byiza ko igihe uciye ahantu barahashyize itangazo, cyangwa hari ibindi bihanditse, ubisoma kugira ngo wumve ko ubutumwa burimo wowe butakureba.

Mu minsi ibaho mu mwaka; akenshi usanga buri munsi ufite ikintu wagiye uharirwa, nk'uko hari umunsi wahariwe abagore, umunsi w'intwari, umunsi wahariwe abakozi, niyo mpamvu guhera ku itariki cumi n'umunani kugeza ku itariki makumyabiri n'enye buri kwezi kwa cumi na kumwe; nyuma hari icyumweru cyo kurwanya kuba hari indwara zanga kuvurwa n'imiti.

Twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira ibi nibyo Arabisi iri kwibutsa abantu kugira ngo bisuzumisha hakiri kare kuko igituntu iyo cyabaye cyinshi abantu benshi bahatakariza ubuzima. Niyo mpamvu kwisuzumisha mbere bituma ubona n'uko wirinda kandi kwirinda biruta kwivuza.

Kwa muganga akenshi bahorana gahunda yo gukingira. Bitewe n'uko hari indwara nyinshi ziba zigenda zivuka, ariko bakabona ko baramutse bakingiye abantu, byagabanya umubare w'abantu barwara izi ndwara. Ni yo mpamvu baba bagomba kubanza bakabitegura ndetse bakanamenya aho bazahera bakingira, bitewe n'abantu bafite amahirwe menshi yo kurwara izi ndwara.

Abantu benshi bahagaze imbere y'icyapa kinini, cyanditseho hehe n'igwingira, bigaragara ko uyu munsi bari baje mu mahugurwa, bari kubaha inyigisho bakwiye gukurikiza, kugira ngo barwanye igwingira ry'abana. Kuko muri iki gihe usigaye usanga abana benshi bagwingira, bitewe n'imirire mibi. Bafashe ingamba kugira ngo iryo gwingira barirwanye.

Kwivuza ni byiza ndetse no gukora siporo nabyo ni byiza. Ariko kurya indyo yuzuye ni nibyo byiza cyane kurusha ibyo byose, kuko iyo wariye neza ukarya indyo yuzuye ifite bitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, bituma ugira ubuzima bwiza cyane. Niyo mpamvu buri wese aba agomba kubigira ibye ndetse akamenya neza ko yafashe indyo yuzuye.

Hashyizweho ubukangurambaga bwo kurwanya diyabete. Hari abantu baba batazi ibyo bakora kugira ngo iyi ndwara bayirinde, ugasanga bayirwaye bitewe n'uko batamenye uko bakayirinda ngo babe barabikoze mbere. Niyo mpamvu ari byiza no kugera mu byaro bitandukanye, abantu bose ukabaganiriza uko bakwiye kwirinda.

Mu rwanda habamo ibigo byinshi cyane bitandukanye kandi buri kigo kikaba gifite inshingano zitandukanye n'ikindi, gusa byose bihuriza hamwe kugira ngo abaturage b'u rwanda ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange bagire ubuzima bwiza , muri ibyo bigori hari icyitwa Arabisi.

Umugore mwiza abambaye neza, afite invanguramajwi, afite na telefone mu ntoki, ahagaze imbere y'urubyiruko, uyu munsi ni we batumiye kugira ngo aze abaganize, uyu munsi bari bari kubaganiza ku bigendanye n'ubuzima, uko bakwiye kwitwara kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na kabiri, mu kwezi kwa karindwi, ku itariki makumyabiri n'ikenda, hari kuwa gatanu, guhera saa yine zo mu gitondo kugeza saa kumi n'imwe z'umugoroba, habaye ikiganiro cy'urubyiruko, aho bari bari kubigisha ukuntu bakwiye kwirinda SIDA, kuko SIDA indwara mbi cyane kandi itajya ikira.

Umwana ufite imisatsi gusa ufite inyogosho nk'iyabasitari, yambaye ishati isa icyatsi, arimo arakora ku cyuma abaganga bumvisha igihe bari gupima umurwayi, bigaragara ko yishimye kuba agikozeho. Ni byiza ko umwana tumufasha kwishima mubishoboka byose kuko bituma akura neza.

Icyapa kimanitse kwa muganga handitseho amagambo menshi arimo ibara ry'ubururu, amagambo akaba yandikishijwe umweru, ku ruhande na ho hari andi magambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse hakaba harimo akana gasa nk'akari kuvuga, gafite amaso meza ndetse gafite n'amenyo meza.

Icyumba k'inama hitabiriyemo abakobwa gusa, bose babahaye imipira isa y'imyeru banicaye ku ntebe z'umweru, uretse umuntu waje kubaganiriza ni we utambaye umupira usa nk'uwabo, bari kubaganiriza ku bigendanye no kubara ukwezi k'umugore ndetse n'ukuntu bagiye kujya bigirira isuku igihe bari mu mihango.

Icyapa gifite amabara y'umuhondo, hakaba handitseho amagambo mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, hakaba hariho ifoto y'umugore urimo guseka, uyu mugore afite imisatsi myinshi ndetse yambaye n'amaherena.

Urupapuro ruriho utuzeru twinshi, muri utwo tuzeru dufite amabara atandukanye ndetse hakagenda handikwamo n'amagambo atandukanye, harimo udufite ibara ry'icyatsi, ubururu, oranje, umuhondo, ndetse n'irindi bara rijya gusa nk'umweru cyangwa umukara bivanze, amagambo arimo yandikishijwe amabara y'umweru.

U Rwanda ni igihugu kiza cyane kita ku buzima bw'abaturage bashyizeho serivise yo kumenya neza ko abaturage bose bafite ubuzima bwiza aho usanga bohereza amagi, amata ndetse n'indi miti itandukanye mu byaro aho baba babona ko abana baho batabona indyo yuzuye, ibi byose babikora kugira ngo abana ba b'u Rwanda bakure neza kandi bafite ubuzima bwiza.

Abaganga bose barahuze bari mu kazi, bafite umurwayi barimo kubaga. Abaganga bakorana ubwitonzi iteka, bitewe n'uko ikosa rimwe bashobora gutuma umurwayi ahatakariza ubuzima kandi iyo bitonda bakabikora neza, bari kumurokora.

Icyapa kimanitse kwa muganga, kirimo amabara atandukanye; harimo oranje, harimo ubururu, harimo umuhondo, harimo icyatsi, handitseho amagambo yandikishijwe amagambo y'umukara, bisa nk'aho ari ubukangurambaga baba bari kugenda bakora, kugira ngo ubisomye abone ubutumwa baba bamugeneye.

Abantu benshi uretse kuvuga abana n'abantu bakuru, usanga akenshi batinya inshinge, kuburyo aba yumva kumutera urushinge bamuha ibinini iyo byaba ariy'igihe kirekire, umumama uri hano nawe bari kumutera urushinge, ariko afite ubwoba yanahumirije, bitewe n'uko atekereza ko bishobora kumugiraho ikibazo, cyangwa akababara cyane, ariko abaganga babikora neza kuko baba barabyize.

Abaganga babiri bambaye ibintu by'ubururu bimanutse kugera hasi, bambaye udupfukamunwa ndetse n'utundi mu mutwe, bigaragara ko bari kwirinda kuba abarwayi bari kuvura bashobora kubanduza indwara. Ibi ngibi ni ingenzi cyane kuko hari indwara zigendera kuba umuntu umukozeho cyangwa uhumetse umwuka we ugasanga mwese birangiye murwaye.

Icyumba cy'inama, uyu munsi abaje baje ari bake gusa baje bazindutse kugira ngo babiganireho ibyo bari barapanze bazaganira, ibi ni ingenzi cyane bitewe n'uko hari ibibazo abarwayi bari babagejejeho, bagira ngo bazabafashe bababikemurire ndetse na serivisi bajye bazihabwa vuba. Baje ari bakeya ariko baraza kuganiza abandi batabonetse imyanzuro bafashe.

Kurwanya kanseri birashoboka, gusa ni byiza ko umuntu abitangira akiri muto, kuko kanseri ntumenya igihe wayirwariye, kuko akenshi hari igihe ibimenyetso bigaragara nyamara hashize imyaka irenga itanu waramaze kuyandura, niyo mpamvu abantu baba bagomba kwikingiza, bakiyitaho mu byo barya, uko babayeho, mu ubuzima bwabo bwa buri munsi bakamenya ko bagomba kwirinda kanseri.

Umugabo mukuru yicaranye n'abana arimo arabaganirira, kuganira n'abana ni byiza kuko akenshi bituma umenya ibibazo bafite muri bo ndetse ukamenya n'uko waheraho ubikemura, niyo mpamvu umubyeyi wese aba agomba kuganiriza abana be.

Bimwe mu byifuzo abayobozi b'igihugu baba bafite, ni ukubona abaturage bayoboye babayeho neza kandi bafite n'ubuzima bwiza, niyo mpamvu bashyiraho minisiteri y'ubuzima, kandi minisiteri y'ubuzima nayo ishyiraho ubukangurambaga bw'ibyo abaturage bakwiye gukora kugira ubuzima bwabo bube bwiza.

Inyubako nziza cyane nini iracyari nshyashya, hasize amarangi meza asukuye, inyubako hanze hari uruzitiro ndetse harimo n'ubusitani, ku buryo abarwayi baje kwivuza igihe arambiwe kwicara ku ntebe ashaka kwiyotera akazuba, yaza akicara muri ubu busitani bwiza cyane.

Inyubako bigaragara ko ari iya kera imaze igihe, yanditseho amagambo" Caraes Freres de la Charity" igaragara ko hakoreramo ibitaro bya Caraes, ikicaro k'ibi bitaro kiba i Ndera ariko hari utundi dushami bagiye bafite hirya no hino. Ibi bitaro babyita ku buzima bwo mu mutwe cyane cyane.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho bakiriye abarwayi, abantu benshi uyu munsi bazindutse barategereje. Hari igihe kwa muganga usanga habyutse abantu benshi barwariye icyarimwe, baba baragiye bashyiraho ibyapa kugira ngo abantu bajye baramenya aho bageze babone gutegereza.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, hari umurwayi uryamye, biragaragara ko arembye cyane, hacometseho ibimashini biri kugenda bibereka uko mu mubiri hameze, yari ari kubereka uko umutima uri gutera ndetse n'uburyo ari guhumeka. Umuganga amuri iruhande arimo aramwitaho, nibikunda uyu murwayi araza gukira.

Icyumba k'inama hicayemo abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye ishati y'umweru. Bahamanitse ibyapa byanditseho ko bakwiye kurwanya Malariya. Nk'uko bigaragara iki cyumba bagiteguye kuko hagiye kuberamo amahugurwa, bari kuganiriza abantu mu cyo bakwiye gukora kugira ngo Malariya icike burundu.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe cyubatse neza bigaragara ko ari gishya kuko inyubako iracyari nshyashya, hanze bahashyize esikariya ndende kugira ngo abantu babone uko bazamuka ndetse bahateye n'utujaride twiza cyane, harimo indabo n'uducaca ku buryo abantu bari kuri iki kigo nderabuzima bahumeka umwuka mwiza.

Utubati twinshi twubatswe tugerekeranye, hagiye handitseho ibipapuro imbere, kugira ngo byorohereze umuntu uje kuturebamo, ibiri muri uwo mwanya arimo kurebamo. Kenshi usanga kwa muganga ariko baba barabikoze, bitewe nuko ibipapuro byinshi by'abarwayi, usanga babibitse igihe kirekire, bikaba ngombwa ko bashyiraho ibigaragaza ibirimo ari ibya ryari, kugira ngo biborohere kuba babona icyo bashaka byoroshye.

Inyubako nini ikiri shyashya yubakishije amatafari ahiye ndetse ku ruhande hakaba hasize amarangi meza, handitseho materinite inzu y'ababyeyi, hano niho ababyeyi batwite baza kwisuzumishiriza ndetse n'ababyeyi bageze igihe cyo kubyara niho babyarira.

Umukobwa mwiza w'umuganga wambaye imyenda y'akazi ia ubururu afite imisatsi myinshi ariko yayizirikiye inyuma kugira bitamubangamira mu kazi ari gukora arimo arita ku murwayi urwaye araryamye inyuma ye kandi hari ibikoresho bitandukanye bikenerwa mu bitaro.

Mu icyumba ahari utubati, turimo amarinete menshi cyane .Bigaragara ko abantu barwaye amazo ariko naza kugurira amarinete. Ni byiza ko umuntu aza kuyahura azanye urupapuro yahawe na muganga kugira bamenye neza ko rinete bamuhaye zitazamutera ikindi kibazo.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo giherereye mu Majyepfo, mu Karere ka Huye. Hano abantu batuye muri aka gace barwaye, baraza bakabavura ndetse n'abo bigoranye ko bakirira kuri iki kigo nderabuzima, babaha taransiferi bakajya ku bindi bitaro byisumbuyeho, biriho abadogiteri barenze kurusha abari kuri iki kigo nderabuzima.

Icyumba kinini kirimo utubati twinshi twose tugiye turimo amarinete, hano niho abantu bandikiwe indorerwamo baza kuzigurira, haba hari ubwoko bwinshi, ugafata ibyo ushaka bitewe n'ibyo ukunda maze ukaziha abakorera hano, bakajya kugushyiriramo umuti bitewe n'imiti bakwandikiye n'uburyo barazigukorera.

Inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye n'ibyuma aho ni kuruzitiro ndetse hejuru hakaba hari n'icyapa kigaragaza ko ari ibitaro bya Ruhengeri, mu imbere harimo umucaca munini ndetse hakaba hateyemo n'indabo zitandukanye ku buryo abarwayi baje kuhivuriza iyo barambiwe bashobora no kuza bakaba bota akazuba.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bufite isuku na esikariye zayo zubatse neza ndetse ku ruhande hateye indabo nziza cyane, hariho n'agacaca ku buryo umuntu ushaka kota akazuba yaza akahicara, akicara mu gacaca ndetse akaba yirebera n'indabo anahumurirwa umwuka wazo mwiza.

Mu cyumba kinini cyane harimo ibitanda, harimo udutebe, harimo za mudasobwa, harimo n'ahantu henshi abaganga bashobora gukorera, uko bigaragara iki cyumba gikorerwamo ibikorwa byinshi, ndetse banakiriramo abantu benshi.

Ibitaro bya Rwamagana byubatswe neza cyane, kandi bifite n'amarangi akiri mashya. Hanze baba bahakoreye isuku, ku buryo n'indwara ziterwa n'umwanda zitapfa kuba kuri ibi bitaro. Uyu munsi abaganga bose bahakorera bagiye mu nama, ndetse bari bagize n'abashyitsi baje kubahugura.

Umuhungu n'umumama barimo baraganira, uyu musore, yambaye imyenda y'akazi bigaragara ko ari umuganga, isa ubururu ndetse mu ijosi yashyizeho na kariya gakoresho bakoresha, bumva niba umutima urimo gutera neza. Barimo baraganira we n'uyu mugore.

Icyumba cyo kwa muganga harimo igitanda, harimo computer ndetse harimo n'ikindi cyuma bakoresha bari gupima ngo barebe uko mu mubiri umurwayi ameze, kwa muganga baba bakeneye kugenda bitonze kugira ngo batagira ibyo bangiza kandi n'abakoresha ibyuma by'ikoranabuhanga bakabikoresha neza.

Inyubako nini cyane yubatse igeretse, hacishemo amakaro, hateyemo amarangi meza, hafite isuku. Hari aho turi kubona aho bakirira abantu baje muri iyi nyubako, hariho icyapa cyanditseho "reseption" kugirango abaje babagana bahite babimenya ko aho bageze ariho barabakirira.

Inyubako nziza cyane ziherereye mu karere ka Burera ni inyubako ya Butaro, ibi bitaro bivura kanseri nibyo birenzenze cyane mu gihugu cy'u Rwanda, habayo abaganga benshi cyane b'inzobere, iyo umuntu ahageze bigishoboka ko kanseri yiwe bayivura arakira nubwo bitabura ko ari bake bahatakariza ubuzima ariko abivuje neza barakira.

Icyumba bigaragara ko ari kwa muganga, hariho uburiri baryamishaho abarwayi, hariho n'agatebe umuganga cyangwa umurwaza yicaraho ari kureba uko umurwayi ameze, harimo imashini ku ruhande ndetse muri iki cyumba ku bikuta hagiye hariho imitako, bifasha kugira ngo igihe umurwayi aryamye areke kumva yigunze ahubwo aya mashusho amushimishe.

Inyubako nini ifite ibara rijya gusa nk'umutuku wijimye, hanze hari agacaca ndetse hateyemo n'imiti, hejuru bashyizeho icyapa kigaragaza ko hano, ariho bavurira kanseri, abantu bose ushaka kubakeka ko yaba afite kanseri, cyangwa bafite indwara zanze gukira, biba byiza iyo baje bakisuzumisha bakareba ko ataba kanseri barwaye.

Mu cyumba cyo kwa muganga, abaganga benshi bambaye imyenda y'akazi, barimo baravura, buri muganga afite umurwayi arimo kwitaho, abarwayi na bo baje bari kubabwira ibibazo byose bafite kugira ngo abaganga na bo babone aho bahera babavura.

Umugabo w'umuganga arimo arareba muri mudasobwa ye, kugira ngo arebe ibisubizo bamuhaye kuko yari yohereje umurwayi guca mu cyuma ngo barebe mu mubiri we uko ameze, arimo aragenda abireba neza kugira ngo amenye neza ikibazo umurwayi afite ndetse bamenye n'uko bamuvura.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, hano icyumba gihari hakoreramo pharmacy yitwa Paniel. Iyi pharmacy ikorana n'ibigo by'ubwishingizi bitandukanye, ndetse baba bafite n'imiti itandukanye ku buryo umuntu wese ugize ikibazo aza bakamuvura, bakamuha imiti akongera akamera neza.

Inyubako nini cyane kandi nziza bigaragara ko imaze igihe kinini yubatswe, hejuru handitse amagambo KING FAISAL HOSPITAL, bigaragara ko hari ibitaro bya FAISAL, ibi bitaro bavura indwara nyinshi kandi batanga serivisi nziza, ntabwo bameze nk'ahandi usanga abarwayi bategereje bakaba banataha badahuye na muganga, hano baragufasha ugataha uvuwe.

Inyubako nziza cyane, ni ndende kandi nini, yubatse neza isakaye neza, hagati bagiye bateramo uturabo, irasa neza cyane, iyi nyubako ifite ibyumba byinshi cyane ku buryo hashobora gukorerwamo ibikorwa byinshi cyane bitandukanye, gusa ni ibitaro, niyo mpamvu serivisi hafi ya zose zihari kuko ibyumba byo gukoreramo bihari.

Mu cyumba cyo kwa muganga, aho abarwayi baje kwivuza bategerereza bwa mbere, bategereje ko babakira. Uyu munsi intebe nyinshi zirimo ubusa bigaragara ko abarwayi benshi batari baza cyangwa se bakaba badafite gahunda yo kuza kwivuza, uyu munsi nk'uko bisanzwe.

Mu cyumba kiza cyane cyo kwa muganga, impande yaho hari indi miryango myinshi itandukanye, ijya mu bindi byumba ndetse harasukuye hasa neza, hasi hari amakaro irangi ri kubikuta ni umweru, no hejuru parafuo yaho isa umweru.

Mu nyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'amarinete yubakishijwe ibirahure gusa ku buryo umuntu uri hanze acaho areba ibiri mu nzu neza nkaho ari mu nzu, hanze kurahure hariho icyapa cy'umukobwa wambaye rinete mu rwego rwo kwereka abantu ko ari hano bazicuruza.

Inyubako nini zigiye zitandukanye ziherereye mu bitaro, hano hanze bagiye bahashyira uducaca twiza ku ruhande bakahatera n'indabo, ku buryo kubireba ubona bikeye kandi muri utu ducaca n'abarwayi bashaka kwiyotera akazuba cyangwa abarambiwe n'abananiwe, aba ashobora kuza akiryamiramo, akamera neza, akagarura akabaraga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo butangaje, irageretse inshuro nyinshi, yubakishijwe ibirahure, ifite amarange meza cyane ku buryo uyi bonye wese abona ko isa neza, iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Kigali ndetse yitwa BIONTECH ni ho hakorerwamo inkingo.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya cyubatse neza, gifite amarangi meza n'amabati asa neza, hanze hateyemo utujaride dutandukanye ndetse imbere yaho hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ibi bitaro harimo abaganga benshi b'inzobere bavura neza, niyo mpamvu abarwayi benshi bakunda kujya kuhivuriza.

Icyumba giherereye kwa muganga aho babagira abarwayi. Kwa muganga akenshi usanga hejuru y'umuryango baragiye bandika ibikorerwamo, mu rwego rwo kwirinda akavuyo, kuba umurwayi yajya aza agapfa kwinjira aho abonye cyangwa se no kugira ngo abe yabura aho ajya kwivuriza bitewe n'ibyo aje kwivuza. Ibi bifasha korohereza bose yaba abaganga cyangwa abarwayi.

Inyubako y'ibitaro bya CHUB, iherereye mu karere ka Huye, mu cyahoze kitwa Butare. Ibi bitaro habayo abaganga benshi batandukanye b'inzobere, kuko abaturage baba baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho, usanga baje kwivuriza kuri ibi bitaro, kuko bahagera bakabavura kandi bagakira.

Inyubako nini yubakishijwe n'amatafari basizeho amarange y'umuhondo n'umweru, bagiye bandikaho amagambo kuko ari kwa muganga kugira ngo bajye barerekana ibikorerwa muri iyo nyubako, hano banditseho raburatwari ni aho abantu baje gufata ibizami ndetse n'abashaka ibisubizo byavuye mu bizami babafashe baza kubifatira.

Icyumba kinini cyane giherereye mu bitaro. Huzuyemo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, bigaragara ko babikoresha bari gushaka kureba uko mu mubiri mo imbere bimeze kugira ngo amenye ikibazo umurwayi afite. Ibi bikoresho bihora bikenewe cyane kuko hari uburwayi ushobora kurebera umuntu inyuma ntumenye ikibazo afite, ariko wakwifashisha izi mashini bikagufasha kumenya neza ikibazo afite mu mubiri.

Inyubako nziza cyane kandi nini ifite ibyumba byinshi, ifite n'ama esikariye agiye atandukanye, hashi hateyemo intebe bigaragara ko ari kwa muganga ndetse akaba ariho abarwayi bategerereza kugira ngo bahabwe serivisi, ibi bitaro bifite inyubako nziza kandi hanze hari n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nini iherereye mu bitaro; mo imbere harimo abaganga baje kureba abarwayi baba mu bitaro, harimo ibitanda byinshi cyane muri iki cyumba kuko ari kinini kandi buri murwayi akaba atabona icyumba cye cyihariye, abandi basohotse ubwo ni abarwaza kugira ngo muganga abanze yite ku barwayi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza ifite amarangi meza gusa imbere yayo ntago barahasasa amapave bigaragara ko iyi nyubako ikiri nshyashya gusa barabiteganya mu minsi iri imbere inyubako ni iy'ibitaro ndetse bagiye bashyiraho ibyapa bigenda byereka abarwayi serivisi zitangirwa muri icyo cyumba bagezeho.

Icyumba kinini cyane kiri kwa muganga, harimo ibimashini byinshi ku buryo kuhinjira umuntu ashobora kugira ubwoba ko biramuturikana, ni byiza ko hano hantu bahafunga ndetse abantu binjiramo ha akaba ari abantu bazi gukoresha ibimashini ndetse n'uwo baje gusuzuma kuko babikoresheje nabi byateza inkongi y'umuriro.

Mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byose byifashishwa n'abantu bakora imyitozo, harimo nk'ibyo bahagararaho bakagenda bameze nk'abari kwiruka, ndetse n'ibindi banyonga nk'abari gutwara igare, ibyuma biremereye baterura ndetse n'ibindi basunika, byose bibafasha kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri nta nkomyi.

Icyumba kinini cyane, kirimo indi nyubako wagira ngo ni inzu iri mu yindi. Ibi byumba byose, byubakishijwe ibyuma ndetse hagiye hacometseho insinga nyinshi n'ahantu henshi ho gukanda. Ibi bintu byubatswe mu buryo butangaje.

Kwa muganga uyu munsi haje abantu benshi bose bari kubaganiriza uko bakwiye kwita ku buzima bw'abana babo, bahagaze imbere y'ivuriro bavuriramo indwara z'abana, ni byiza ko abana bitabwaho guhera bakibatwite kugeza bakuze kuko biri mu bituma bagira ubuzima bwiza.

Icyumba kinini cyo kwa muganga harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho hari kimwe gifite ishusho y'uruziga imbere hakaba hari akantu umurwayi aryamaho, ku mpande hakaba hari ibimashini bakoresha bari kugira ngo barebe neza mu mubiri uko umurwayi ameze, iki gikoresho cyitwa Emarayi.

Inyubako nziza cyane kandi nini ku maragi meza yubatse mu buryo bugezweho kandi ifite isuku. Hanze hari agacaca keza ndetse hari na parking nini isasishijwemo amapave ku buryo abantu baza bagana iri vuriro, baba bari ahantu heza kandi banahumeka akuwuka keza.

Abaganga batanu, harimo abadamu bane, ndetse n'umugabo umwe, bose bari bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, kubera ko uyu muganga w'umugabo ntago asanzwe akorera hano, ahubwo yari yaje kubahugura bifuza ko bafatira hamwe ifoto y'urwibutso.

Mu cyumba kinini cyo kwa muganga harimo icyuma bakoresha bacisha abantu mu cyuma bari kugira ngo barebe uko mu mibiri yabo mu imbere bameze, iki cyuma bakita emarayi, gikoreshwa mu kureba neza niba mu mubiri wawe nta kindi kibazo ufite.

Inyubako nyinshi zubatse mu buryo bujya gusa, kubera ko bakoresheje amarangi ajya gusa ndetse bagakora n'uburyo bujya kumera kimwe. Izi nyubako ni nshyashya bigaragara ko batarazisoza ariko n'ubu zitararangira zisa neza cyane, zifite isuku.

Abanyeshuri biga ibigendanye n'ubuganga, baba bafite amaraboratwari menshi, aho bajya gukorera imyitozo mbere yuko bajya mu kazi kugira ngo babe barabateguye bihagije. Kandi ibi ni ngombwa cyane kuko bagomba gutegurwa hakiri kare kugira ngo nibagera mu kazi batazagira ikibazo na kimwe bateza.

Good life ni farumasi ifite ibyicaro ahantu hagiye hatandukanye, yaba mu Mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara, bagira imiti itandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza, ni byiza ko igihe umuntu afite ikibazo mu mubiri we yivuza ndetse n'imiti bamwandikiye akaza akayigura akanayinywa neza.

kwa muganga harimo ibikoresho byinshi biba bigiye bitandukanye, bitewe n'uko abarwayi baza barwaye indwara zitandukanye, muribyo bikoresho harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, kuburya ushobora kuba ahagaze bakareba neza mu mubiri wawe uko bimeze, ndetse haba harimo n'ikibazo bakakuvura.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo butangaje, iracyari nshyashya ntabwo irasaza, hanze bagiye bashyiraho ibyapa bigaragaza ibikorerwa muri iyi nyubako ndetse ibyapa bakoresheje ibitambaro.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi meza asa iroza bigaragara ko ari mu bitaro ndetse afite n'amabati meza cyane, abarwayi benshi baza kwivuriza kuko ari hafi y'umuhanda bitagorana kuhagera ndetse n'abaganga bahakorera bavura neza.

Mu cyumba kinini cyane, hakorerwamo siporo, harimo ibyuma bifasha abantu gukora siporo ndetse banashashemo tapi, ku buryo uhareba ukagira ngo ni mu kibuga gisanzwe. Ni byiza ko abantu bose bakora siporo, cyane cyane abantu babyibushye cyane kugira ngo birinde indwara zishobora guterwa n'umubyibuho ukabije.

Umukobwa mwiza cyane ukiri muto, yambaye imyenda y'abaganga afite imisatsi myiza ariko yayifungiye inyuma kugira ngo itaza kumubangamira mu kazi. Afite icyuma gipima Uku mutima utera ndetse n'ibindi bice biri mu mubiri mo imbere biri gukora kugirango yumve niba umuntu ameze neza, umurwayi nawe arishimye ni umupapa ukuze yambaye amarinete ndetse n'imisatsi ye ndetse n'ubwanwa byabaye imvi.

Abantu benshi bose bambaye amashati y'umweru baje mu bitaro byitiriwe umwami fayizari biherereye i Kigali, bose bafite udufihi turimo ibintu bisa nkaho baje kugemurira inshuti zabo zirwaye kugira ngo babone ko bitaweho.

Icyapa cyanditseho Hopital, La croix du Sud kwa Nyirinkwaya, iki cyapa kiri kwereka abantu bageze hano ko ari ku ivuriro ryo kwa Nyirinkwaya bageze, abantu baba barwaye cyangwa se bafite abarwayi babazana hano bakabavura kuko bafite abaganga bakomeye kandi babyigiye bavura neza.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo butangaje, zubabakishijwe amatafari ndetse hamwe hagiye harihomo n'amasi, hagati harimo uducaca twiza n'indabo ku buryo ubireba ukabona ko ari ahantu hasa neza ndetse harimo n'umwanya uhagije w'aho imodoka zishobora kunyura.

Inyubako nziza cyane kandi nini yubatse igerekeranye aho hasi hakorerwa ibikorwa bimwe no hejuru hagakorerwa ibindi, baba barashyizeho esikariye kugira ngo abashaka kuva mu nyubako yo hasi bajya hejuru babone inzira banyuramo, iyi nyubako yubatse neza kandi ifite isuku.

Kwa muganga haba hariho ibyuma byinshi cyane by'ikoranabuhanga, bifite ubudahangarwa ku buryo bikureba uko umeze neza mu mubiri bidasabye ngo bakubage byo bigakurura mo imbere ko umeze, ubundi bigatanga ibisubizo niba hari ikibazo ufite cyangwa se nta kibazo ufite, abaganga nabo bakabona uko bakuvura.

Inyubako nziza ifite amarangi meza cyane, mbere yaho hari umucaca mwiza, mu mucaca hari igiti kiri mu i vase hari umusirikare urimo aramanuka iruhande rw'uyu mucaca, ndetse kuri uyu mucaca hariho n'indabo, iyi nyubako hariho ikirango kigaragaza ko ariho bavurira kanseri mu Rwanda.

Inyubako iherereye mu karere ka Huye, ni nyubako y'ibitaro aho bavurira abantu babaswe n'ibiyobyabwenge, bakabaganiza, bakanabaha imiti bityo bakaba bashobora kubivamo bagakomeza ubuzima bwabo, hano biragora kugira ngo ube wapfa kuhaza uko ubonye kuko akenshi usanga bihenda ariko ni ingenzi cyane ko ababaswe bashaka amafaranga yose asabwa bakaza bakabavura.

Mu cyumba kinini cyo kwa muganga harimo igitanda, hejuru y'igitanda harimo igitara kinini cyane gifite udutara twinshi dushamikiyeho, iki gitanda ni ho babagira abarwayi, baba basabwa gukoresha urumuri rwinshi kugira ngo babashe kureba neza mu mubiri, bityo babe batakora ikosa iryo ari ryo ryose kubera umwijima.

Icyumba kinini cyo kwa muganga harimo igitanda aho umurwayi aryama ndetse ku ruhande hariho n'ikindi bigaragara ko iki cyumba gishobora kuryamamo umurwayi urenze umwe. Ni byiza ko bashyiramo ibitanda byinshi kuko hari igihe abarwayi baba benshi bigatuma bamwe bashobora kubura aho barara.

Mu nyubako yo kwa muganga usanga hagiye harimo ibyumba byinshi bitandukanye ndetse muri ibyo byumba ugasanga muri buri cyumba harimo umuganga, kuko kwa muganga haba harimo indwara nyinshi zitandukanye niyo mpamvu biba bisaba ko haba hari n'abaganga benshi buri ndwara zikagera aho ivurirwa.

Icyumba kinini cyane kiri kwa muganga gifite irange ry'umweru, harimo ibitanda bitandukanye byose biriho matela ziriho amashuka y'ubururu, hano hantu hafite isuku kwa muganga usanga abantu bashinzwe gukora isuku bayikoze cyane, bitewe n'uko kutahakora isuku byatuma indwara ziba nyinshi bigahitana ubuzima bwa benshi.

Mu bitaro umukobwa w'umwana muto cyane yicaye ku kagare bigaragara ko amaguru ye yagize ikibazo, atabasha kuba yakwitambutsa we ubwe bisaba ko yicara mu kagare ubundi akagatwara akakajyana aho ashaka, muri ibi bitaro baba baributse no kubaka bagasiga aho abantu bari kugendera kuri utu tugare banyura, bitewe nuko atamanuka kuri esikariye zisanzwe.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa igihe abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza gukora siporo ndetse ukaza ahantu hari ibikoresho byabugenewe bigufasha kuko nabyo biri mu bituma umuntu agira kuraje yo gukora siporo.

Inyubako nini cyane isize amarange y'umweru harasa neza, hanze hahagaze umuganga ibi bihita bitwereka ko bari kwa muganga ndetse bananditseho amagambo hejuru agaragaza ko ari kuri laburatwari aho bapimira abantu barwaye Malariya.

Umugore uryamye mu bitaro, bigaragara ko amaze igihe arembye, ariko yatangiye kugarura akabaraga. Iruhande rwe hari ibimashini bicometseho insinga nyinshi cyane ndetse n'aho barebera ibisubizo, igihe barimo barabavura kugira ngo bamenye uko mu mubiri bimeze.

Kwamuganga, usanga baragiye bashyiraho ibyapa, bifasha abantu kumenya serivisi baje gushaka, cyangwa se aho baje kwivuriza, bikabafasha rero kumenya aho baherereye, kugirango atirwa azenguruka umunsi wose ashaka umuganga runaka nyamara aruko yagiye kumushakira ahatariho. Ibi ni byiza cyane, kuko bifasha abarwayi kubona serivisi zabo vuba.

Inyubako iherereye mu Karere ka Musanze, ikorerwamo na farumasi yitwa Iraguha. Iyi farumasi batanga serivisi nziza, kandi baba bafite n'imiti myinshi cyane. Abantu benshi baba bavuye kwivuriza ku bitaro bya Ruhengeri, muri iyi farumasi ni ho baza gufatira imiti, kuko serivise zabo ziba ari nziza kandi zihuta.

Icyumba cyo kwa muganga harimo igitanda aho baryamisha umurwayi igihe barimo baramusuzuma, imbere hari utu esikariye dukozwe mu gaparasitike, dufasha umurwayi kuba yakurira ku gitanda kubera ko kiri hejuru, harimo imitako itandukanye isa nk'ishimishije kugira umurwayi urimo bigerageze kumumara irungu.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishijwe amabuye, kubireba biratangaje cyane, abaganga bari hanze barimo baragenda baganira, ni abagabo babiri, bari kuganira ku cyo bakora kuko umwe yakiriye umurwayi ifite ibibazo bikomeye cyane ku buryo yumva afite ikibazo cy'uko uyu murwayi azakira.

Inyubako nini hanze bahateye agatebe aho abantu bicara, hicayeho umugabo umwe, imbere hahagaze umugore wambaye agapira k'umutuku, ruguru hari umusore n'undi mugabo wambaye itaburiya bigaragara ko ari umuganga. Iyi nyubako ni ku kigo nderabuzima cya Gishweru. Abantu batuye muri aka gace bafite ibibazo by'ubuzima barwaye, baraza bakagana iki kigo bakabavura.

Mu bitaro haba hari ibyumba byinshi bitandukanye harimo n'ibikoresho byinshi cyane, bitewe n'uko bakira abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, ndetse n'ibizami baba barafashe ababitandukanye, niyo mpamvu buri bintu baba bagomba kubishyira ukwabyo mu rwego rwo kwirinda kuba babivanga, bityo n'igihe umurwayi agarutse amakuru yose agendanye na we bongere bayabone byoroshye.

Umugabo wambaye kositimu y'umukara, arahagaze arimo kuganiriza abaturage, yabahamagaje ari kubaganiriza ku cyo bakwiye gukora kugira ngo birinde indwara zigiye zitandukanye, ari iziterwa n'umwanda ndetse n'izindi zandura mu buryo ubwo ari bwo bwose.

Inyubako nini y'ibitaro bya butaro, bafite umucaca munini aho abarwayi baza bakicara bakota akazuba ndetse hagiye harimo n'ibiti bitandukanye ku badashaka izuba ariko bashaka akayaga, ibi bitaro bivura kanseri.

Abarwayi bavuye kwa muganga bari kumanuka mu nzira isashishijwemo amapave. Ibi bitaro bivurijeho ni byiza cyane, byubatse neza, bigiye biteyemo indabo nyinshi nziza cyane zitandukanye ndetse n'abaganga bakorera muri ibi bitaro bavura neza cyane, bafite inararibonye mu kuvura.

Kwa muganga hariyo inyubako nziza cyane zubatse neza zifite isuku, kandi hariyo n'ubusitani bwiza bunini. Abantu baza kuhivuriza bashobora kwicara igihe bari kuruhuka, cyangwa se barambiwe kwicara ku ntebe. Ubu busitani bwiza kandi bakwiye kubungabunga kuko bituma n'abarwayi bari hano barushaho guhumeka akuka keza cyane.

Ibitanda byiza, buri gitanda gifite n'akabati, aho umurwayi uri ku gitanda aba afite n'akabati araza kubikamo ibikoresho bye, mu rwego rwo kwirinda akavuyo no kuba hari ibyatakara. Gusa bose bari muri sare imwe, kuko batabona ibyumba bihagije byo kugira ngo buri murwayi abe afite icyumba cye.

Mu bitaro bitandukanye usanga hariyo serivisi nyinshi zitandukanye: aho baba bavurira indwara, aho bazipimira, aho bafatira imiti, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, n'aho abari mu bitaro baba, mu bitaro kandi habayo indi serivisi yitwa: Isange one stop center, aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inyubako nini cyane yubatse neza ni etage, igeretse inshuro zirenga ebyiri cyangwa eshatu, bafite parikingi nini cyane, aho haparika ambulance ndetse n'imodoka zazanye abarwayi zisanzwe. Ibi bitaro bya Legacy, bifite abaganga bakomeye kandi bavura indwara z'abantu bagakira.

Kwa muganga haba hariyo ibyumba binini cyane ku buryo bashiriramo ibitanda byinshi ariko hagati y'igitanda n'ikindi bakahashyira amaridomu kugira ngo buri murwayi atamenya iby'u undi murwayi ari gukorerwa, ibi ni ingenzi cyane kuko umurwayi afite uburenganzira bwo kuba amakuru yiwe aba abitswe mu buryo bw'ibanga.

Mu bitaro hari ahantu haba hagiye hatandukanye bitewe na serivise zihakorera, ariko bakibuka guhashyiraho ibyapa. Ngira ngo abarwayi igihe bahageze bamenya ibihabera, batabashije kubanza gukomanga cyangwa se ngo babanze babaza. Ahubwo ukahagera ugahita umenya ko ari aho bavurira abana cyangwa indwara zo mu mutwe, cyangwa guca mu cyuma, kugira ngo bareke kwirwa bazerera, babuze aho bivuriza.

Mu cyumba cyo kwa muganga umurwayi barimo baramubaga banamudoda, hari indwara umuntu agira bikaba ngombwa ko bamubaga, gusa abantu benshi barabitinya kuko baba bakeka ko bashobora kuhatakariza ubuzima ariko abaganga baba barabyigiye babikora neza.

Ikimashini kijya gusa nka microscopi ariko na none kikamera nk'icyo baba bakoresha muri siporo. Gifite utuntu t'utubuto twinshi abantu bakanda aho hari utw'umukara hari n'utw'ubururu twose udukoresha bitewe n'icyo ushaka gukora muri ako kanya kugikoresha bisaba kuba ukizi neza uko bagikoresha.

Mu kibuga abana baje gukina, amakipe abiri arimo arakina, kugira ngo iratsinda bayihembe, ndetse buri kipe ifite abafana. Hari akana kamwe kari gufana cyane kiterera hejuru, bigaragara ko kishimiye abakinnyi kari gufana, ndetse gakunda n'uyu mukino bari gukina.

Umusore wambaye ekuteri afite icupa ari kunywa amazi, yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo umubiri we ukomeze kumera neza, kandi na we agire ubuzima bwiza. Ni byiza kunywa amazi kenshi kandi ni na byiza gukora siporo, kuko byose ari ingenzi ku mubiri wacu.

Umusore wambaye umupira w'umweru, yambaye na ekuteri, ari kugenda yumva imiziki, ari kunywa amazi ndetse yambaye n'isaha mu kuboko, ari kugirango arebe iminota akora muri siporo kuko gukora siporo igihe kinini nabyo si byiza gusa gukora siporo ningenzi.

Arimo kwikanda ku nkokora akoresheje barafu kuko ejobundi ari mu myitozo, akaboko ke kagize ikibazo. Ibi babikora kenshi kugira ngo uburibwe bugabanyuke ndetse hareke no kubyimba. Ni byiza ko abantu bakora siporo bitonda kugira ngo babe batahatakariza ubuzima cyangwa ingingo zabo.

Amazi ni ingenzi ku buzima bwacu twese, niyo mpamvu byibura umuntu yakanyweye nk'ibirahuri bitatu ku munsi, n'ubwo hari abo kubibwira batabyumva neza aho ushobora gusanga umuntu ashobora kumara ibyumweru birenze bibiri cyangwa bitatu ataranywa amazi na rimwe, gusa kutanywa amazi bishobora gutera ibibazo bitandukanye, cyane cyane kurwara impyiko.

Abasore bane bose bari muri siporo, bambaye imyenda ya siporo n'inkweto zifunze, barimo bariruka. Kwiruka na byo ni siporo nziza cyane kuko bituma umubiri ukora neza kandi n'ibihaha byawe bikamenyera. Ni byiza gukora siporo kuko bituma hari indwara nyinshi umuntu atarwara kubera akora siporo.

Igishushanyo kimanitse hariho abantu bane bose bari muri siporo, bari kwerekana ubwoko bwa siporo ushobora gukora, ushobora guterura icyuma, ushobora gutwara igare, ushobora kwiruka, ushobora kugenda, uburyo bwose bwakorwa muri siporo babwerekanye mu rwego rwo kugirango ngo umuntu wese ajye akora siporo ashoboye ariko azikore.

Agakoresho kenshi cyane gakoreshwa n'abakinnyi, aho igihe mugenzi wabo agiriye ikibazo mu kibuga cyangwa se undi muntu akaba yagirira ikibazo hafi aho, bamuryamishaho kugira ngo biborohere kuba bahita bamugeza kwa muganga cyangwa aho bagiye kumuhera ubutabazi bw'ibanze.

Umukobwa wari uri muri siporo yashyize isume ku bitugu, kuko agiye guhita ajya muri dushe, ari kunywa amazi mbere yo kujya koga kuko ari byiza cyane mu mubiri w'umuntu. Gukora imyitozo ni byiza kandi no kunywa amazi menshi ahagije ni byiza cyane ku mubiri.

Abana bato biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, barimo barakina. Bambaye amajezi, bafite amabara y'umweru n'umukara. Bagenzi babo baje kubafana, ni benshi cyane bari ku mpande z'ikibuga kugira ngo bahe kuraje bagenzi babo babashe gutsinda.

Umukobwa mwiza cyane arimo arakora imyitozo. Yambaye isengeri y'icyatsi ndetse afite n'agatambaro gasa n'isengeri yambaye yazirikishije imisatsi kugira ngo imisatsi ye ireke kumubangamira mu gihe arimo arakora imyitozo. Ni byiza gukora siporo kuri twese kuko bifasha imibiri yacu.

Umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi myinshi, yambaye agapantaro k'umukara kamufashe ndetse n'agasengeri k'umweru, afite imisatsi myiza cyane yagiye gukorera siporo ku nkengero z'inyanja. Ari kugira ngo aruhuke mu mutwe ndetse anumve agahumuro keza ko kuri iyi nyanja.

Akabogisi karimo ibikoresho bitandukanye nk'utumakasi, udupfuko, amabande ndetse n'ibindi bikoresho byose bikenerwa n'abakinnyi cyangwa abandi bantu bakora siporo mu kuba babyifashisha nk'ubuvuzi bw'ibanze, mu gihe habayeho impanuka cyangwa se hakagira ugirira ikibazo mu kibuga.

Mu kibuga abantu bakoreramo siporo, umuhungu umwe afite baro mu ntoki, undi nawe afite utuntu dufasha abantu gutambuka dufite n'amapine, kubera ko hari abantu baba baragize ibibazo mu maguru bikaba ngombwa ko bakora imyitozo gake gake, kugira ngo amaguru yabo yongere gusubirana kugenda bisanzwe.

Ikirahure kiri gusukwamo amazi avuye mu icupa. Ni byiza kunywa amazi mu gitondo ndetse no ku mugoroba ugiye kuryama, amazi ni ingenzi ku buzima bwacu cyane ko umubiri wacu uba uyakeneye kugira ngo n' impyiko zikomeze zimere neza, gusa biba bibabaje kubona hari umuntu ushobora kumara icyumweru nacyo kigashira bikaba bibiri ataranywa ku mazi.

Umugabo ufashe imbuto n'imboga mu ntoki, hirya ye hari inkweto za siporo no ku ruhande hari utundi dukoresho akoresha muri siporo, ibi biragaragaza ko umuntu akwiye gukora siporo ariko akanarya n'indyo yuzuye kugira ngo ubuzima bwe burusheho kuba bwiza.

Yagize ikibazo mu kaguru ke, ariko abaganga bakomeje kumukurikirana, bamuhaye imiti ndetse bamubwira no kujya agendera ku mbago. Uyu munsi yaje kugira ngo barebe aho ageze yoroherwa cyangwa se akira. Niyo mpamvu bamushyize muri iki kimashini gishinzwe kugorora neza, kugira ngo barebe ko natambuka birakunda.

Umugore ufite intoki z'umukara yambaye impeta, inzara ze yazisize akabara keza kadapika cyane, arimo arishyiraho barafu bigaragara ko yavunitse ubwo yarari mu myitozo, akenshi barayikoresha iyo abakinnyi bagize ibibazo mu ngingo.

Abantu babiri bari muri siporo umwe ari kwikora aryamye ku gitanda; yakirambitse ndetse iki gitanda hasi gifite ibyuma ku buryo iyo ushaka kukirambura neza ikirambura ndetse washaka no kwisegura kimeze nk'intebe nabyo ukabikora.

Umugabo wambaye isaha y'umukara n'ikabutura y'umukara yagiye muri siporo, ari kwikanda mu ivi bigaragara ko ahafite ikibazo ari kugira ngo ivi rimenyere bityo arusheho kumera neza, siporo ni ingenzi kuri twese yaba ari abana, abakuze ndetse n'urubyiruko.

Ni byiza kunywa amazi. Kuko amazi ni ingenzi ku buzima bwacu no ku mubiri wacu. Uyu mukobwa yari ari muri siporo ariko yitwaza n'amazi kugira ngo umubiri we utabura amazi bikaba byamutera ikibazo gikomeye cyane. Buri wese akwiye kubigira umuco akumva ko iteka akwiye kunywa amazi kandi ahagije.

Amazi ari mu icupa, pome, ironji, n'ubundi bwoko bw'urubuto rukase, iruhande rwaho hari icyuma abantu bakora siporo baterura, ndetse hari na metero bakoresha bapima, hirya hari n'akandi kuma k'umutuku abantu bakora siporo baterura.

Abagabo babiri umwe afite akantu arimo guha undi mu kiganza, undi na we bari guhereza akantu yambaye ga zikomeye cyane, zifasha abantu mu gukora siporo, kugira ngo igihe barimo barakora siporo bakoresheje intoki cyangwa ibiganza ntibaze gukomereka.

Uducupa dutatu gusa dufunze bitandukanye n'ingano yatwo ntabwo ingana neza byose harimo umuti witwa stopin bigaragara ko uyu muti ubufasha mu kuvura uburibwe ni byiza ko igihe umuntu arwaye ndetse akaba ari kubabara afata imiti kugira ngo amere neza akomeze imirimo ye.

Ibikapu binini by'umutuku akenshi bikunda kugirwa n'abakozi ba Croix rouge, aho biyemeje gutanga ubutabazi bw'ibanze aho bishoboka hose nko mu bibuga, igihe habaye impanuka ndetse n'ahandi hantu haba hari abantu benshi bitewe nuko baba batekereza ko biraza gukenerwa. Muri iki gikapu haba harimo ibyangombwa byose bikenerwa ngo batange ubu butabazi.

Umugabo n'umugore bose bafite imisatsi myinshi cyane bagiye gukorera imyitozo ngororamubiri hamwe, umugabo ni we uri gukora umugore yananiwe, arimo aragenda asimbuka utuntu tumeze nk'imbonerahamwe cyangwa urwego, umugore na we ari kugenda amurebera ko yabikoze neza.

Abakozi ba croix rouge bagendana ibisanduku bitukura biriho amagambo first aid box avugako haba harimo ibikoresho umuntu ashobora gukenera igihe cyo gutanga ubuvuzi bw'ibanze. Hari igihe umuntu agira ikibazo mu mpanuka cyangwa se mu kibuga, bikaba ngombwa ko aba yahabwa ubutabazi bw'ibanze bakabona kumujyana ku bitaro.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahantu hari ibimashini byinshi cyane bicometse hari umukozi ubishinzwe; ni nawe uza gukoramo isuku kugira abe abirinda ko haba inkongi y'umuriro igihe umuntu ujemo aje atitonze, ibi kubikoresha bisaba kuba ubizi mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara umupira ujya gu gusa umweru n'inkweto zijya gusa'mweru, arimo akora siporo ari iruhande rw'amazi menshi ku kiraro niho arimo aragororera akaguru ke, yifashe mu mayunguyungu n'akaboko kamwe akandi karimo karakurura akaguru.

Umugabo n'umugore bose b'abazungu barimo baranywa amazi bateranya imigongo, bari bari muri siporo bayisoje kugira ngo barekere aho kwahagira ndetse bongere basubirane imbaraga, buri wese ahita afata icupa ry'amazi yari yazanye ateganya ko arayanywa nasoza siporo.

Siporo ni umuti mwiza cyane, uvura amavunane ndetse n'ingingo, gusa siporo hari uburyo bwinshi bwo kuzikoramo kandi igihe uzikoze nabi ushobora no kuvunikiramo. Ni yo mpamvu ugomba kureba uko abandi bazikora na we ukaba ari byo ukurikiza.

Kwa muganga habayo ibikoresho byinshi bitandukanye habayo n'ibimashini bipima indwara iki kimashini kiri hano cyitwa emarayi gikoreshwa mu kureba uko mu mubiri mo mbere bimeze iki kimashini kugira ukijyemo bisaba gukorerwa n'umuganga wabyize kugira ngo bibe bitagira ikindi kibazo ku mubiri.

Imashini yo kwa muganga aho barebera ibisubizo biri guturuka mu byuma bakoresha bapima abantu. Urugero niba bari gupima mu mutwe cyangwa mu nda cyangwa mu kaguru bakoresheje icyuma, ibisubizo biraza bikiyandika muri iyi mashini, akaba ari yo abaganga bareberamo kugira ngo bamenye ibisubizo byaturutse mu bizami bafashe.

Imiti ipanze mu dukarito tugiye dutandukanye, yose yifashishwa n'abantu bakora siporo kuko akenshi abantu bakora siporo nk'abakinnyi n'abatilete kenshi usanga bahora bavunaguritse, bikaba ngombwa ko bakenera imiti kugira ngo bahite bamera neza mu gihe gito bakomeze imyitozo yabo.

Udukoresho dukoreshwa n'abakinnyi igihe bari kubahambira ku maboko cyangwa ku maguru mu gihe bavunitse. Akenshi abakinnyi baba bafite udukoresho kuko baba babiteganya bitewe n'uko mu kibuga haberamo impanuka nyinshi kandi abenshi bavunikiramo. Ibi bikoresho bidahari bishobora gutuma umuntu aremba cyane ariko iyo bihari baba babimufashije akabona kujya kwa muganga.

Igikoresho abantu benshi bakora siporo barakizi, bacyambara mu ivi igihe umuntu yagize ikibazo ndetse n'igihe ari kurinda ivi rye bitewe n'uko aba ashobora kugikoresha cyane, bikaba byatuma arwara cyane ndetse bikaba byanamugeza ku rwego rwo gucika akaguru. Niyo mpamvu abantu bakora siporo bagomba kwitwararika ndetse bagakoresha ibikoresho byose bishoboka bibarinda.

Umukobwa wambaye agakabutura kagufi gusamo mu imbere yashyizemo kora kugira ngo ataba asa nk'uwambaye ubusa, yambaye amasogisi y'umweru n'inkweto zifunze, yambaye umupira w'umukara, afite ibikomo byinshi mu kaboko, arimo arakora siporo, siporo ni ingenzi ku buzima bwacu twese.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, babishyize mu gikarito cyabugenewe, gikozwe muri purasitiki. Ni byiza ko ibi bikoresho ahantu umuntu ari, yakabyitwaje kuko impanuka cyangwa ibindi byago byose bidateguza. Igihe haramutse habaye ikibazo gitunguranye, ibi bikoresho bikaba byakwifashishwa. Cyane cyane abantu bagomba kubigira umuco wo guhorana ibi bikoresho, ni abakinnyi cyangwa abantu bakora imyitozo ngororamubiri nyinshi.

Umugabo ukora siporo yagize ikibazo mu nkokora ye arimo arahashyira barafu ikonje kugira ngo areke kubyimba ndetse n'ububabare bugabanyuke, abantu bakora siporo baba bagomba kwitonda kugira ngo batagira ingingo z'umubiri wabo bangiza.

Umugabo n'umugore bazanye umwana wabo w'umukobwa kumuvuza, umuganga arimo aramusuzuma, baje kumuvuza amenyo, kuko ageze mu myaka yo gukuka amenyo. Ariko hari rimwe ryanze kuvamo neza, bari kugira ngo barebe niba nta kibazo ryatera babe barikuramo.

Ambiranse irimo irasohoka mu bitaro, igiye kuzana umurwayi urembye arembeye kure, niyo mpamvu bibaye ngombwa ko basaba ubutabazi ngo ambiranse igende abe ariyo imuzana kuko ahantu hari biragoye ko bapfa kubona indi modoka yahita ibazana byihuse ngo amuzane kwa muganga akiri muzima.

Kwa muganga umusore wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'amaboko maremare w'umukara, yari yambaye inkweto z'umukara zifunze n'amasogisi y'umweru ari ku rukweto rumwe n'isogisi byo mu kaguru k'iburyo yabikuyemo kuko'akaguru ke k'iburyo kagize ikibazo, umuganga wambaye imyenda y'ubururu y'akazi arimo aramufasha; ari kumuvura.

Imiti myinshi n'ibindi bikoresho bikoreshwa kwa muganga harimo amapomade, bipfuko, bande, barafu n'utundi twuma two gukanda ku bantu barwaye imitsi, ibi byose biba ari byiza cyane ko abantu bashinzwe abakinnyi babyitwaza kuko niho hantu hambere bikenerwa cyane.

Umuganga wambaye tabi y'umweru n'akantu bakoresha bumva niba mu mubiri bimeze neza yambaye ibijozi yambaye karuvati ikozwe mu gitenge ndetse n'ishati y'umweruru afite ikintu mu ntoki ziwe kijya kumera nk'uruziga uyu muganga yaje kuganiriza abantu uko bakwiye gukora imyitozo bityo bigafasha imibiri yabo kumera neza.

Ibikoresho bitandukanye harimo ibinini, inshinge ndetse n'imiti yo kunywa n'amapomade n'amabande n'ibipfuko n'udukasi n'amaga, byose bikoreshwa kwa muganga ndetse abakinnyi na bo barabikenera, ku buryo igihe bari gukina ku kibuga, haba hagomba hari umuntu ufite ibi bikoresho byose kugira ngo nihagira ugira ikibazo, abashe kubona ubutabazi bw'ibanze byihuse.

Amacupa atandukanye, yose arimo pomade ihagarika uburibwe. Hari ibimeze nk'ibyo batera nk'abantu bari kwiterara parufe, hari indi imeze nk'amavuta yo kwisiga, hari n'indi y'amazi ndetse hari n'akandi kameze nk'agaparufe basiga mu kwaha.

Umukobwa wambaye agasengeri gato cyane ko hejuru, inda yose iri hanze ndetse n'agakora k'umukara ari gukora siporo, aryamye ku gakeka gasa iroza. Uyu mukobwa amaze kumenyera imyitozo cyane, kugira ngo ubuzima bwe bube bwiza ndetse agire n'umubiri uteye neza.

Igikapu kinini cyane kiba gipakiyemo ibikoresho bitandukanye cyane cyane ibikoresho bikoreshwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze harimo za bande, harimo ga, harimo ibipfuko, harimo ibipima umuriro, harimo utumakasi, harimo ibintu byinshi cyane bitandukanye n'amapomadi.

Umusore ari muri siporo, yambaye imyenda ya siporo, ikabutura n'umupira, amasogisi n'inkweto zifunze, arimo arakora imyitozo kugira ngo umubiri we ukomeze ugire ubuzima bwiza, ndetse abe yakwirinda n'umubyibuho ukabije, ni byiza gukora siporo kuko bituma umubiri wacu ugira ubudahangarwa.

Ibicupa bifite ingano zigiye zitandukanye, bigaragara ko harimo imiti yo kwisiga ku mubiri cyane cyane ku bantu bavunitse cyangwa abantu bumva bafite amavunane bikaba byatuma umubiri wabo umera neza. Imiti ushatse wagura ikinini cyangwa ukagura agato bitewe n'amafaranfa ufite.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibipupe abantu bakoresha bari kwigiraho, ahangaha ni igihe bari kwiga nk'ukuntu wafasha umuntu igihe avunitse cyangwa se igihe akoze impanuka bakakwereka ukuntu ukwiye kumufasha byihutirwa kugira ngo umugeze kwa muganga akiri muzima n'amaraso atamushizemo.

Iyo bavuze indyo ishyitse kandi ipimye, ntibaba bavuze kuyipimira ku munzani. Ahubwo biba bisaba ko ugomba kureba ko indyo wafashe, indyo zose zirimo; utibanze ku bwoko bumwe gusa. Ukamenya ko harimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Umusore wambaye isengeri isa geleyi, yambaye isaha isa umukara, afite amaboko manini bigaragara ko yakoze siporo cyane, ndetse n'ubu ari muri siporo. Yagiye kuzikorera ahantu hitaruye umugi, kuko ariho azikora yisanzuye nta n'urusaku ruhari.

Umubikira ndetse n'umuzungu bafashe akana bari kwifotoza. Bari baje kureba uko abana babaho cyane cyane abana bo mu giturage, banigisha ababyeyi babo ukuntu bakwiye kubagaburira, bakaba indyo yuzuye ndetse bakabagirira n'isuku kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bwiza.

Umukobwa yaje kwivuza kwamuganga, yagize ikibazo mu ivi. Muganga amaze kumuvura no kumusuzumama, amushyiriyeho utuntu kugirango tumufashe kuba akaguruke atakanyeganyeza cyane, ariko akaba yabasha gutambuka bitamugoye.

Igikapu kinini kirimo imiti myinshi itandukanye harimo n'ibipfuko harimo n'amabande ndetse harimo n'utundi duti banywa kugira ngo bagire imbaraga, cyane cyane abantu bakoresha utu duti ni abakinnyi cyangwa abandi bantu bakora imirimo isaba imbaraga nyinshi.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa n'abakinnyi, harimo amabande, amapomade ndetse n'ibipfuko. Ni byiza ko abakinnyi bose aho bagiye babyitwaza, bitewe n'uko bakunda kugirira impanuka mu kibuga kugira ngo igihe bibaye, bahite bahabwa ubutabazi bw'ibanze.

Umukobwa afite icupa ry'amazi uri kunywa amazi afite n'isume ku rutugu, agiye muri dushe, yambaye imyenda ya siporo ndetse yanabiza icyuya cyinshi bigaragara ko amaze umwanya munini cyane ari gukora siporo, siporo ni nziza cyane kuko zituma imibiri yacu ikora neza kandi ikiyongerera n'ubudahangarwa.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo agaseri hamwe n'ipantaro afite icupa ry'amazi kugira ngo igihe ajya yumva umwumawishe anywa amazi ni byiza gukora siporo kuko bituma imibiri y'abantumera neza cyane abantu bafite umubyibuho ukabije bakwiye gukora siporo kugira ngo birinde indwara zishobora guterwa n'uyu mubyibuho ukabije.

Mu mafarumasi yo kwa muganga, baba baragiye bahashyirara utubati tunini, kuko baba bahabika ibintu byinshi bitandukanye, ari imiti, ari ibikoresho bikoreshwa mu kugorora abantu ndetse no mu gusuzuma. Niyo mpamvu baba bakwiriye no kubyitaho bakabikorera isuku ndetse bakirinda ko hari ibishobora kuba byahangirikira.

Akagare gafasha abantu baba bafite ikibazo ubwo ni abantu barwaye cyane batabasha kwitambutsa cyangwa se abantu baba bafite ubumuga nibo bagakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ututuga akenshi usanga turi kwa muganga bitewe n'uko haza indembe nyinshi zitabasha kwitambutsa.

Umukinnyi yaje kwa muganga, barimo baramukorera massage, bitewe n’uko yagize ikibazo mu kaguru. Gusa, gake gake, iyo uje kwa muganga kenshi, bakaguha imiti, ndetse bakanakumasa, bigenda bimera neza, ku buryo nyuma y’igihe runaka, wakongera ugasubira mu kibuga, ugakina nk’ibisanzwe.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'inyubako ikiri kubakwa, umwe yahagaze ku rwego undi ari kumuhereza, undi nawe akabarebera ko ibyo bari gukora ari byo, iyi nyubako hejuru hariho amagambo agaragaza ko ari ibitaro byitiriwe umwami fayisari.

Umugabo bamuryamishije ku gatanda ko kwa muganga, bigarragara ko yagize ikibazo ari muri siporo . Byagenze bé bamuherekeje, gusa muganga Yaris asohotse agiye kuzana n' ibindi ibikoresho kugira ngo amusuzume arebe niba hari ikindi kibazo yagize amenye imiti bamuha maza bamusezerere atahe.

Igisanduku gikozwe muri purasitike, harimo ibipfuko byinshi ndetse n'utundi dutambaro twabugenewe bahanaguze ahantu haba hari igisebe cyangwa se ahantu bashaka gushyira umuti, ni byiza ko aka kantu bakitwaza ndetse harimo n'akandi kantu k'agapapuro ariko kamatira gafata udupfuko kugira ngo tutavaho.

Umugabo uba ufite akaboko kanini bigaragara ko amaze igihe kinini cyane akora imyitozo ngororamubiri yubaka umubiri we, arimo aranywa amazi avuye mu myitozo. Ni ingenzi kunywa amazi kenshi ku mubiri kandi ni n' ingenzi gukora iyi imyitozo, kuko byose biri mu bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Akabaho bakunda gukatiraho imboga cyangwa se ibintu by'ibyatsi, bahateretse imiti ivuye mu kinani, bakunda kuyikoresha bavura indwara zitandukanye, ndetse yaba ari izo mo imbere mu mubiri cyangwa ku ruhu. Bagiye kubikorera isuku kugira ngo babiteke, maze amazi aravamo abe ariyo bakoresha nk'umuti.

Icupa rinini ry'umuhondo ryanditseho amagambo Forever aloe vera gel, ibigaragara ni uko muri iki gicupa harimo imiti ikozwe mu gikakarubamba, ivura indwara zitandukanye kuko igikakarubamba kivamo imiti myinshi ivura indwara z'uruhu ndetse n'izo mu mubiri mo imbere.

Buri ngaruka mwaka haba hari umunsi wagiye uharirwa ibikorwa bitandukanye aho usanga hari umunsi wahariwe abakozi, umunsi wahariwe ubuvuzu, umunsi wahariwe ibintu bitandukanye, habaho n'umunsi wahariwe ubuvuzi gakondo. Akenshi abantu bumva ubu buvuzi batabwizeye cyane ariko n'ubuvuzi bwiza cyane kandi bwizewe.

Imiti ikorwa n'ikigo cyitwa Alliance, ivura indwara zitandukanye. Higanjemo n'indwara ziba zarananiranye, imiti hafi ya yose bakora baba barayikuye mu bihingwa ndetse no mu bimera. Iyi miti ivura indwara nyinshi, ndetse abantu barayikunda bitewe nuko baba barivuje igihe kirekire, ariko bakoresha iyi miti bagahita bakira.

Abagabo, abenshi muri bo bambaye imipira y'icyatsi, harimo n'umugore umwe nawe wambaye umupira w'icyatsi, bari mu murima uhinzemo ibikakarubamba bisa nkaho bari gukora ubukangurambaga mu gukangurira abantu guhinga ibikakarubamba kuko bivura indwara nyinshi cyane.

Icupa rishushanyijeho igikakarubamba n'izindi mbuto zijya kumera nk'inyanya cyangwag se pome, hariho amagambo yandikishije ibara ry'umutuku wijimye ndetse n'iri cupa bigaragara ko harimo amavuta yo kwisiga cyangwa se hakaba harimo umuti wo kunywa, ukoze mu gikakarubamba n'izi mbuto biri kumwe.

Umurima munini utemo ibyatsi bitandukanye, harimo ibyatsi bigufi bimerera hasi, ariko harimo n'ibindi bizamuka bikajya kungana nk'ibiti. Ibi byatsi hakorwamo imiti igiye itandukanye, gusa si byiza ko umuntu aza akabica agahita abinywa, ahubwo ababishinzwe n'ababyize, ni bo baba bagomba kureba imiti ivura irimo, bakayikuramo, bakayiha abantu.

Umugore mwiza w'umuzungu, afite agacupa mu ntoki kanditseho Lavender, bigaragara ko umuti urimo ariko witwa. Uyu muti wakozwe uturutse mu bimera kandi uvura indwara zitandukanye. Ni byiza ko dukwiye kumenya imiti yose kugira ngo igihe tugize ikibazo tujye tumenya iyahita idufasha byoroshye.

Imiti itandukanye ivura indwara nyinshi zitandukanye ndetse zigoye, ikorwa n'ikigo cyitwa Alliance. Iyi miti nubwo ihenda ariko iravura cyane umuntu akongera akaba muzima, kandi yari yaratakaje ibyiringiro. Ni byiza ko ikibazo cyose waba ufite wabageraho ukababwira uko urwaye bakagusuzuma bakaguha imiti ugakira.

Amacupa menshi akozwe mu cyuma afite ingano zigiye zitandukanye, ndetse n'amagambo yanditseho ntabwo asa, n'amabara yabyo ntago asa. Bigaragaza ko, ibirimo nubwo byaba bifite umumaro ujya kuba umwe, ariko ntago bisa ijana ku ijana.

Amacupa menshi cyane agiye afite ingano itandukanye, ndetse harimo n'ibintu bitandukanye, gusa hafi ya byose byakozwe biturutse mu gikakarubamba. Hamwe ni imiti, ibindi ni amavuta. Igikakarubamba urumva ko kigira umumaro mwinshi cyane mu gukora ibintu bigirira umubiri akamaro.

Mu mirima myinshi, haba hagiye harimo ibimera byinshi bitandukanye, aho usanga bimwe muri byo, bivura indwara nyinshi kandi zigakira. Gusa kubimenya ni byo biba ari ikibazo ariko akenshi bitewe n'uko hari abantu bagenda babivumbura, iyo muganiriye barabikubwira na we ukaba wabikoresha wivura.

Amacupa atandukanye amwe ameze nkajyamo ubuki andi akamera nkajyamo amasabune, ibindi nabyo bika bimeze nk'ahaba harimo amavuta cyangwa amapuderi gusa hose ibirimo bivanzemo n'igikakarubamba kuko igikakarubamba ari umuti mwiza cyane.

Imiti myinshi ituruka mu byatsi kugira ngo uyibone neza ntabwo uhekenya ibyatsi, ahubwo barabanza bakayisekura neza, bakayitunganya neza ndetse bakanakwereka ingano y'umuti uranywa kuko iyo ufashe mwinshi cyane ushobora ku kwica ndetse wanafata muke cyane ntube wagukiza.

Ibikakarubamba mbere wasangaga byimeza abantu bataramenya umumaro wabyo ntibanabikoreshe ariko ubu kubera ukuntu bamenye yuko bivura indwara nyinshi zitandukanye, abantu benshi basigaye bahitamo kubihinga ndetse bakanabigurisha bityo inganda zikora imiti zikabibyaza umusaruro.

Ikarito ifite amabara y'umuhondo ndetse hakaba harimo amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, hariho ishusho y'igikakarubamba, hejuru hateretseho ibindi bintu wagira ngo ni tangawizi, imbere bakaba bari kwerekana utuntu tumeze nk'udusabube, bakoze bakuye muri ibi bimera.

Si byiza ko amacupa abantu baba bakoresheje banywa amazi cyangwa amaji bayajugunya kuko abantu bakora imiti bayikuye mu bimera usanga nabo bayakenera bakaba bakongera kuyakoresha ndetse ibi bikanafasha mu kubungabunga ibidukikije, aya macupa baba bagomba nanone gushyiraho udupapuro twanditseho imiti irimo kugira ngo hatagira upfa kunywa ahubwo abanze amenye ibirimo n'ibyo bivura.

Mu binani byinshi usanga harimo ibimera byinshi byimejeje, ugasanga akenshi tubiha amatungo kuko tutazi ko ibyo bimera havamo n'imiti kandi ivura neza. Gusa iyo tumaze kubimenya biba byiza kuko bidufasha, bikatuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ibiti byinshi by'umuravumba. Bihinze mu murima, bishoboka ko byaba byarimejeje cyangwa se ari umuntu wabihinze bitewe n'uko yamaze kubona ko umuravumba ukenerwa cyane. Umuravumba uvura inkorora ariko uvura n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Gusa iyo uwufashe nabi, ushobora kugutera n'izindi ndwara.

Mu ishyamba haba harimo ibyatsi byinshi byagiye byimeza, bimwe bishobora kudahabwa agaciro ibindi ugasanga babigaburira amatungo gusa, ariko abahanga benshi bagenda bafata buri bwoko bw'ibyatsi bakagenda babyigaho, kenshi rero usanga hari ibyo bagiye bamenya ko havamo imiti kandi ivura n'indwara zikomeye cyane zari zarabuze imiti yazivura.

Icyatsi gifite amababi menshi ahuriye hamwe, bigaragara ko na cyo cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye. Imiti myinshi harimo iyi tunywa ndetse n'ibinini byose biba byaraturutse mu bimera. Gusa ntabwo babiguha ari bibisi, ahubwo barabitunganya, bibanza guca mu nganda, iyo miti bakayikura muri ibyo bimera, ubundi bagakora ibinini kuko ari byo bibikika igihe kirekire.

Ni byiza ko gukaraba tubigira umuco, igihe kandi umuntu atabona uko akaraba bimworoheye amazi n'isabune ngo abibone hafi, yakoresha sanitizer kuko na yo yica imyanda myinshi cyane, iba iri mu biganza ndetse n'udukoko twinshi dushobora kuba twateza indwara.

Igikakarubamba kivamo imiti myinshi itandukanye, ndetse kikanavura indwara zitandukanye. Noneho iyo bagiye bakivanga n'ibindi bimera ndetse n'ubuki, usanga bivura indwara nyinshi. Ni yo mpamvu usanga imiti myinshi ndetse n'amavuta asanzwe yo kwisiga, biba bigiye bikozwe mu gikakarubamba.

Icupa rinini rifite ishusho y'umweru, umufuniko w'ubururu, ku ruhande handitseho amagambo na yo yandikishijwe ibara ry'ubururu, iri cupa akenshi haba harimo imiti ikozwe mu gikakarubamba, abantu bakunda kugira ibibazo mu nda nibo kenshi bagura uyu umuti bakawunywa maze bakiyumva neza.

Abavuzi gakondo bakoresha imiti ya Kinyarwanda iva mu bimera aho usanga hari ibihingwa byose, harimo ibyatsi, harimo imbuto, harimo n'imboga, hari imiti bagenda bakuramo kandi ikavura indwara zikomeye abantu batatekerezaga, gusa ni byiza ko ubikora aba yarabyize kugira ngo hatagira ikindi kibazo ashobora gutera mu mubiri.

Icupa rikozwe mu kantu kakuma rivamo ikinyobwa gitanga imbaraga iki kinyobwa cyitwa fab, abantu bakora ibintu bisaba imbaraga hari aho ugera ukumva urananiw,e ni byiza ko igihe ufite imbaraga nkeya kandi ushaka gukomeza akazi wagura iki kinyobwa ukakinywa.

Uducupa tune gusa twose dufite ishusho itandukanye ndetse tunafungurwa mu buryo butandukanye, hari utw'abakanda bimeze nk'imiti cyangwa nka pomade, hari utwo bitera nka parufe, hari n'utwo bisiga bisanzwe nk'amavuta y'igikotori cyangwa amavuta y'amazi.

Ibimera cyane cyane ibyatsi bigiye bitandukanye, bifasha gukora imiti ndetse hakavamo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, ni byiza kubyitaho tukabibungabunga ndetse n'abahanga mu by'imiti bagakomeza gukora ubushakashatsi, kugira ngo bakomeze bamenye n'imiti batamenye, kandi ishobora kuba yava mu bimera.

Akagera medicines ni ikigo gikora imiti gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, imiti bakora myinshi inacururizwa mu gihugu cy'u Rwanda gusa ntabwo baragira ubushobozi bwo gukora imiti yose kuko akenshi usanga imiti ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda iva hanze ariyo myinshi cyane kurusha iba yakorewemo imbere mu gihugu.

Ibicupa bifite ingano zitandukanye, byose birimo ubuki, ubuki ni bwiza kuko bufasha umubiri wacu, buvura indwara nyinshi kandi abantu bakamera neza. Ubuki ariko iyo ubuhaye umwana ukiri muto cyane bishobora gutuma arwara indwara yitwa kugagara.

Amacupa abiri asa afite ibara ry'umuhondo na shokora hejuru ndetse no hasi ku ndiba. iruhande rwaho hari agakarito kameze nk'agakoze mu ishashi kanditseho amagambo mu ibara rya move ndetse gafiteho n'amabara y'umweru iruhande hari ikindi gisashi nacyo kirimo amabara y'umweru n'ubururu.

Icupa rinini rifite ishusho y'umweru, inyuma ku cyapa bagiye bashyiraho; bandikishije amabara atandukanye ndetse bashushanyaho n'umwana, bigaragaza ko umuti uri muri iri cupa wagenewe kunywa abana, ni byiza ko abana babakorera imiti yabo kuko imibiri yabo iba itaragira ubushobozi bwo kwakira imiti yose ngo ibe yanayisohora, niyo mpamvu bafashe imiti nk'iy'abantu bakuru byabatera uburwayi.

Igikakarubamba kivamo imiti itandukanye, harimo iyo kunywa ndetse n'iyo gusiga inyuma ku mubiri. Igikakarubamba ni igihingwa abantu benshi bashobora gutekereza ko gisanzwe, ariko ku bavuzi ndetse n'ababyize, bamaze kumenya ibanga ririmo, ko kivura indwara nyinshi cyane zitandukanye.

Ibirahuri bibiri byose bagiye bashyiramo ibyatsi, basukamo n'amazi. Ibi ni uko bagira ngo umuti wivange kuko ibi byatsi biravura. Hamwe harimo umuravumba, umuravumba cyane cyane uvura inkorora ahandi naho harimo ubundi bwoko butari umuravumba.

Icupa ry'umweru bisa nk'aho riri mu muti, hariho akapa kazengurutse gafite amabara y'umweru n'umukara ndetse handitseho n'amagambo; hakaba hariho n'akandi gashushanyo akenenshi bakunda gushyira ku miti iba ikozwe mu gikakaruvada.

Amacupa ajya gusa nk'aba arimo byeri gusa ntabwo ari byeri zirimo ahubwo ubu harimo imiti iba yakozwe iturutse mu bimera, bagiye bashyiraho utwapa tugaragaza umuti uri muri iri cupa ndetse bakagaragaza n'indwara zivurwa n'uwo muti uri muri buri cupa.

Ibimera byinshi bivamo imiti kandi ivura indwara zitandukanye, niyo mpamvu babi bisaba kubizana mukabitegura neza, ari ibisaba gusekurwa, ari ibisaba kumishwa n'ibisaba ko babiteka mu mazi ibyo byose ukabikora neza kandi mu buryo bufite isuku ubundi ukabikoresha nk'umuti.

Imiti myinshi abantu banywa cyangwa bisigaba iba yaragiye ikorwa biturutse mu bimera. Ibimera ni ingenzi cyane kuko na byo ubwa byo hari abantu babinywa biri ukwa byo, akaba ashobora kubihekenya cyangwa se akabikaraga agakoresha amazi avuyemo bitewe n'indwara arwaye agakira, niyo mpamvu tuba dukwiye kubyitaho tukayibungabunda.

Utubati turimo amacupa atandukanye, amacupa menshi agiye asa, ariko bagiye bateraho ibyapa bitandukanye, bigaragara ko ibintu biri muri aya macupa ntabwo bisa, muri aya macupa harimo imiti ikoreshwa ku ndwara zitandukanye, ndetse ikaba ikorwa mu bimera.

Igiti gifite udushami twinshi cyane twagiye tumeraho, iki giti n'icy'umuvumba, gikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, cyane izigendanye n'ubuhumekero nk'inkorora ndetse n'izindi ndwara, ni byiza ko imiti nk'iyi ngiyi abantu bayimenya ariko bakanitonda igihe bari kuyinywa, kuko ushobora gufata byinshi cyane bikangiza umwijima.

Amacupa afite amabara atandukanye ndetse n'ingano zitandukanye, gusa amenshi ndavuga atatu manini hashushanyijeho igikakabamba, bigaragara ko ibirimo imbere byakozwe bifashishije igikakarubamba ndetse n'ibindi bimera.

Imiti igiye itandukanye yaba ari iyo kwisiga cyangwa se iyo kunywa, gusa cyane cyane iyo kwisiga ku ruhu usanga barayikoze mu gikakarubamba. Igikakarubamba ni kiza cyane kuko hari n'amavuta asanzwe bashyiramo kugira ngo abantu bagire uruhu rwiza. Iyo bigeze ku ndwara nyinshi cyane z'uruhu, usanga igikakarubamba kizivura.

Ubuki ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye ndetse bikaba byatuma n'umuntu agira ubuzima bwiza, gusa kandi ubuki uramutse ubafashe ari bwinshi cyane, cyane kubuha abana bato bari munsi y'umwaka, bishobora gutuma barwara indwara yo kugagara. Ni yo mpamvu buba bagomba gukoreshwa neza kuko ni ingenzi cyane.

Imiti myinshi yaba ari ibinini cyangwa ibyo kunywa cyangwa iyo kwisiga akenshi ituruka mu bihingwa, ibi ibyatsi biradufasha cyane kugira ngo imiti iboneke hari iyo uba usanga ivura inkorora, mu nda, uburibwe ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, gusa biba bisaba ko abahanga babyigaho neza cyane kugira ngo hatagira iyo bakoresha kandi bitari bikwiye.

Icyatsi kinini cyane ariko kiterera hejuru, cyera kikiri kigufi ntabwo kizamuka nk'ibiti, giteye mu mabuye ndetse gifite itoto cyane bigaragara ko atari mu gihe cy'izuba kuko ntabwo cyumye. Iki cyatsi kandi gikoreshwa mu gukora imiti itandukanye ivura n'indwara nyinshi zitandukanye.

Umugabo ujya gusa nk'aho abyibushye ariko bitari cyane, yambaye umupira w'amaboko magufi, yaje gusoroma ibibabi mu ishyamba, arimo arabisoroma kugira ngo ajye kubikoresha bitewe n'uko yamaze kumenya ko bivura indwara zitandukanye.

Icyumba abavuzi gakondo bakoreramo, hari utuntu twinshi cyane tugiye dutandukanya baba barakuye mu bimera, ndetse no mu biti, ndetse n'ibintu by'ibihumyo ibintu nk'ibyo byose, babikoresha bakora imiti, harimo n'umunzani kandi bakoresha bapima, kugira ngo barebe ko ingano bari gukoresha ariyo ya nyayo.

Igikakarubamba ni kimwe mu miti gakondo ivura cyane, ikavura indwara nyinshi kandi ikazivura neza. Abahanga mu by'imiti bamaze kumenya iryo banga, ni yo mpamvu usanga mu miti myinshi itandukanye, yaba ari iyo kunywa cyangwa iyo kwisiga, bibuka gushyiramo igikakarubamba.

Amacupa afite ibara ry'umuhondo abiri, n'utundi ducupa dufite ibara ry'umweru tubiri, twose hagiye handitseho amagambo ajya gusa ariko afite ahantu hake atandukaniye, aya macupa yose aba arimo imiti kandi imiti myinshi irimo ikozwe mu gikakarubamba.

Ishashi irimo ibihingwa byitwa ibisikasi, bivura indwara nyinshi cyane zitandukanye. Ibi bihingwa ukuntu bikoreshwa, ufata utubabi dukeya udukuye muri kariya gashashi, ukadushyira mu mazi ashyushye nk'uko umuntu ateka icyayi maze ayo mazi ukayanywa.

Uducupa tubiri kamwe gafite ibara ry'ubururu kameze nk'aho kaba karimo amavuta yo gusiga ku minwa twita rabero, akandi nako kameze nk'amavuta y'igikotori gafite umufuniko w'ubururu hasi hakaba hasa umweru, gusa hakaba handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu, hariho akamenyetso bakunda gukoresha ku miti igizwe n'igikakarubamba.

Ibyatsi bihinze ahantu mu ishyamba, ibyatsi bikunda gukoreshwa cyane mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye, kandi zikavura neza. Hari igihe byimeza ariko abenshi iyo bamaze kumenya umumaro wabyo kandi byimeza atari byinshi birangira bahise.

Iyi miti tunywa, twisiga cyangwa se tugacisha no hasi, yose iba yarakozwe iturutse mu nganda. Ariko mu nganda bifashisha ibimera kuko mu bimera ari ho harimo iyo miti baba barakoresha. Icyo inganda zikora ni ukubitunganya neza ku buryo biba bishobora kubikika ndetse bikananyobwa mu buryo bworoshye.

Mu rugo rw'umuntu hagati mu gikari yateyemo umuravumba, kuko yamenye neza ko umuravumba ukoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye cyane cyane indwara z'ubuhumekero nk'inkorora. Ni byiza ko imiti itandukanya abantu bakwiye kuyimenya kugira ngo babe bakwivura bitabasabye kujya kwa muganga.

Mu mirima igiye itandukanye usanga harimo ibyatsi byagiye byimeza harimo nk'ibisura, igisura nacyo ni cyiza cyane mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane indwara z'igifu, niyo mpamvu aho abantu babimenyeye ntago bikimeza gusa ahubwo hari aho usanga baranabihinze bitewe n'uko muri ako gace bitimeza.

Akabati karimo amacupa atandukanye, hari amagufi hari n'andi afite ibara ry'icyatsi, ku buryo uri kurireba ushobora kugira ngo ni inzoga ariko muri aya macupa harimo imiti ndetse bagiye bashyiraho n'udupapuro twanditseho imiti iri muri aya macupa ndetse n'ibyo ivura.

Udusashi turimo ibitaka ndetse bagiye bateramo n'ingemwe z'ibiti, ibi biti bikoreshwa mu gukora imiti. Ni byiza ko babyitaho gutya nk'uko baba babigenje kugira ngo bazagende babitera ahantu henshi hatandukanye, bityo icyo bashaka kubikoresha bakibone.

Abantu biga ubuganga, cyane cyane abiga ibigendanye no gukora imiti, usanga akenshi babizi neza ko mu byatsi hari imiti ivamo kandi ivura indwara nyinshi cyane zitandukanye. Gusa biba bisaba kubyigaho neza kugira ngo mu byatsi bakuremo ibifite umumaro gusa. Kuko no mu byatsi na bwo hashobora kuba havamo ibintu bishobora kwica umuntu.

Icupa ry'umweru rifite icyapa kizengurutseho cyumweru, cyandikishijwemo amagambo asa umuhondo ndetse n'andi y'umukara. Iri cupa harimo umuti wakozwe uturutse mu bimera harimo tungurusumu ndetse na time.

Iki giti ni icy'umuravumba; umuravumba ukoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, gusa indwara wamenyekanyeho cyane mu kuvura, ni indwara y'inkora. Gusa si byiza ko umuntu wese yapfa kuwuca akabinywa uko abonye. Kuko gufata mwinshi cyane, bishobora gutuma urwara izindi ndwara harimo nk'umwijima cyangwa impyiko zawe zikagira ikibazo.

Ikirere ni cyiza cyane nta mvura irimo nta n'izuba ryinshi, ahubwo ibicu nibyo byiganje mu kirere, ibiti bikorwamo imiti byinshi biri mu gihe cyabyo cyiza cyo kuba byamera ndetse n'abantu baba bakeneye kubibyaza umusaruro bakaba babikoresha.

Umugabo afite igipapuro kirimo utuntu tumeze nk'agafuto tujya gusa icyatsi, bigaragara ko ari ibyatsi bumishije barangiza bakabis tukavamo akagafu, ibi bishobora kuba byaba ari imiti agiye gukoresha yivura cyangwa se akaba hari ikindi ashaka gukoresha aka gafu na twe tutazi.